Umwana w'umuhungu, wambaye ikabutura y'umutuku n'ishati y'amabara, arimo aranywa amazi ku iriba, anywesha amashyi ye, hasi ye hari indobo, hirya ye haragaragara ko hari ubusitani bugizwe n'ibiti by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, higanjemo abambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo yerekana ibikorerwa aho bari.

Umwana w'umukobwa urimo gukaraba, ku mazi yarimo kuva ku karobine kari mu ndobo y'icyatsi kibisi, arakarabira mu ibase y'icyatsi kibisi. yambaye imyenda y'umukara n'agapira kerurutse, inyuma ye hari urukuta runini rw'inzu y'amatafari ahiye.

Abantu benshi bahagaze ahantu, hari ibiti byo mu ibara ry'icyatsi biri haruguru yabo, biganjemo abambaye amataburiya n'amakarita y'akazi, harimo umugabo umwe wambaye ikositime y'umukara wifotoranyije na bo.

Abana b'abahungu n'abakobwa barimo kugaragara nk'abanyeshuri, barimo kunywa amazi bakoresheje ibikombe by'amabara atandukanye, icyatsi kibisi n'ubururu, hirya yabo hari ikigega kinini, ahandi hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi harimo n'abamama n'abapapa abagabo n'abagore, hari umugore wateze igitambaro cy'umweru, n'agashati k'umweru n'undi wambaye akarimo amabara y'umukara, bose bari imbere y'umuntu bateze amatwi ibyo arimo kuvuga.

Ibiganza by'umuntu urimo gukaraba kuri robine iri mu ibara ry'ubururu, hirya yaho hari isabune iteretse mu kandi kantu k'ibara ry'ubururu, bigaragara ko arimo gukaraba neza cyane kandi gukaraba ni ikimenyetso cy'isuku.

Umwana mutoya, urimo ukoresha amazi akaba intoki, ayo mazi aba arimo kuva mu ndobo, inyuma ye hari urugo rwubakishijwe imigano, ayo mazi akoreshwa kugira ngo, buri wese agire isuku.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bicaye hamwe, hagati harimo ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, umugabo umwe wambaye ikositimu y'umukara arimo kubabwira ibintu bibashishikaje.

Abantu benshi bagiye kuvoma hari injerekani z'umuhondo, umwana wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ikoboyi, hari umumama inyumawambaye agapira k'icyatsi kibisi n'igitambaro cy'umuhondo, arimo gufasha uwo urimo kuvoma uburyo yabona amazi.

Abantu benshi bari mu nama abantu batatu bari imbere, umudamu uri ahagana hirya ateze akantu k'icyatsi kibisi mu mutwe, yambaye agashati k'umuhondo, bose barakurikira ibyo bababwira inyuma yabo handitseho amagambo agaragaza ibibera aho ngaho.

Abantu babiri umwe ni mukuru arimo kuvoma amazi yambaye umupira w'uburu n'inkweto z'umuhondo. Umwana muto ari hakurya ye amwitegereza, aho hantu hari amazi hari n'ibyatsi byo mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo arimo gufasha umwana kuvoma mu iriba rigaragara ko ari rirerire, hari abandi bana benshi inyuma bigaragara ko ari aba abanyeshuri barimo ku byitegereza, inyuma yabo hari ishyamba, abantu bose barimo gutambuka iruhande rw'uwo mugabo arimo kuvomera.

Inyubako nziza iteye irangi ry'ubururu, iriho icyapa kigaragaza ibihakorerwa, hahuriye abantu benshi bicaye hamwe, bigaragara ko bari mu nama, abantu batatu bari imbere barimo kubabwira ibihabera.

Ababyeyi benshi bari kwa muganga, bigaragara ko baje kwivuza, umwe abari imbere bigaragara ko ariwe ugiye kubanza kuvurwa, afite umwana we, abandi na bo biteguye gukurikiraho kugira ngo babafashe.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa arimo guha umwana mu biganza byombi wambaye iniforume za kake, bari ahantu heza hari ibara ry'icyatsi.

Umwana wishimye, wambaye ipantaro y'icyatsi kibisi n'agapira k'ubururu k'amabara y'umukara, ari ku ivoma ririho amazi menshi, arakoresha ibiganza kugira ngo avome ayo amazi, kandi ari bunyweho, kuko ayakeneye.

Abantu benshi bari mu kwegera ahantu hari indobo y'icyatsi kibisi, hari n'umudamu wambaye agashati kajya gusa umutuku, arimo kubakarabya, hirya yabo hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Abantu benshi cyane biganjemo abana n'abantu bakuru, bahagaze hamwe bose barimo kureba umudamu upfukamye imbere yabo, wambaye igitenge cy'amabara, amabara y'umutuku n'umweru n'agapira k'umukara, n'igitambaro mu mutwe cy'umweru, bose barimo kureba uwo mudamu.

Abantu benshi batandukanye, harimo n'abanyamahanga biganjemo abambaye imyenda y'imikara, kandi harimo umukobwa wambaye agakanzu k'irose, bahagaze iruhande rw'icyapa kirimo ibara ry'ubururu ryanditseho n'amagambo.

Abantu benshi barimo abakiri bato n'abakuze n'abanyamahanga, abenshi bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo bashyize ibiganza hejuru, inyuma yabo hari urukuta ruriho ibara ry'ubururu.

Abantu benshi b'abamama bambaye amajire y'icyatsi kibisi, bahagaze hamwe bose barimo kureba imbere yabo, inyuma yabo hari inyubako nziza bayihagaze imbere.

Abantu benshi baje kuvoma, hari amajerekani menshi, madamu ateruye amajerekani abiri icyarimwe. Haruguru ye hagaze umuntu wambaye agapfukamunwa, hirya hari ibara ry'ubururu.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi kibisi ari ku ivoma ry'amazi yambaye n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hirya hari indobo iri mu ibara ry'ubururu.

Abana bari ku iriba bagiye kuvoma, hari umuntu mukuru urimo kubafasha, kubera ko ari batoya bafite amajerekani y'umuhondo, hari imodoka haruguru iri mu ibara ry'umweru, umuntu arimo kubafasha kugira ngo babone uko babona amazi.

Umugabo ufashe ku njerekane n'amaboko yombi, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya karokaro, yicaye ku ivomero, inyuma ye hari ubusitani bwiza, bugizwe n'ibiti by'icyatsi kibisi kandi uwo mugabo arishimye.

Umugabo wambaye rinete, afashe umwana ukiri muto, umwana ahagaze ku munzani, inyuma ye hari undi muntu, ugaragara ko yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, arimo kwitegereza uwo mwana uhagaze ku munzani.

Abagore benshi bahuriye hamwe bicaye hamwe barimo kuganira, hari uwambaye imyenda y'iroze ufite imisatsi isutse nyweri, inyuma ye hari ibitabo, undi ari ku ruhande inyuma yabo hari rido y'ubururu.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bose bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gutera ibiti, ibyo biti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi kandi intego yabyo ni uko bishobora kugirira abantu benshi akamaro.

Abana benshi b'abanyeshuri, bari ku ruhande rumwe, hagati harimo jaride y'ibara ry'icyatsi, imbere hari abagabo n'abagore bafite ibyo barimo kwigisha abo abana.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bicaye hamwe bigaragara barimo n'abanyamahanga, bigaragara ko basa nk'abari mu nama, imbere yabo hari uducupa turimo amazi, bateze amatwi ubayoboye.

Umumama wagiye gukingiza umwana afashe umwana muganga arimo guha umwana umuti. Umumama arimo kubyitegereza. Hirya ye hari ibara ry'icyatsi kibisi. Arimo kwitegereza muganga arimo kuvura umwana.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako nziza cyane, biganjemo abagabo n'abagore, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agashati k'umutuku imbere, n'umugore wambaye ikanzu y'igitenge, bose bari imbere yiyo nyubako.

Abantu barimo n'umunyamahanga bahagaze imbere y'inyubako nziza iriho icyapa kigaragaza ibihakorerwa umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'akanisho k'umweru arasuza undi uwa wambaye ikositimu yerurutse mu ndu i hirya bambaye ijya kubaboro bose urabonabeshyira.

Abana benshi b'abanyeshuri bahuriye ku iriba bose bashyize amaboko kuri iryo riba kuko bakeneye amazi, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umwana arimo gukaraba intoki, imbere ye hari ibase y'umutuku arimo gukarabiramo, inyuma ye hari urukuta rwubakishije amatafari kandi gukaraba intoki ni ikimenyetso cyiza cyane cy'isuku.

Umugore ukenyeye igitenge wahagatiye umwana mu kindi gitenge gisa n'icyo akenyeye, yambaye agapira k'iroze afite indobo y'umukara yaje kuvomesha amazi, ku iriba inyuma ye hari ishyamba rigizwe n'ibiti by'icyatsi kibisi.

Umwana w'umukobwa arimo gukaraba ku iriba rizana amazi menshi, yambaye utwenda tw'umutuku turimo amabara, kuko dukoze mu gitenge, inyuma ye hari urukuta rw'amatafari ahiye.

Abantu benshi biganjemo abana, hari abagabo babiri barimo kubigisha, umwe ari imbere ya mashine arimo kwereka abana, umwe, umugabo yambaye ijire y'umukara n'umupira w'umutuku barimo kwita kuri abo bana.

Abantu benshi bicaye mu itente, idekoye mu ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu, imbere yabo hari icyapa, hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko yaba ari muganga hari ibyo arimo kubigisha.

Umwana w'umukobwa wisutse utunywere, wambaye agakanzu k'igitenge kivanzemo utubara tw'icyatsi, afite agacupa k'amazi arimo kumena hirya ku rukuta, kandi bigaragara ko ahagazeyo ari wenyine.

Umumama waje kuvoma, bigaragara ko ari iriba ryagenewe abantu bagomba kuvomaho, haraguru y'aho hari amabara y'icyatsi mu byatsi bihinze haruguru y'aho, hepfo hari icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo meza, bigaragara ko ari ahantu rwose hashimishije.

Abantu benshi ababyeyi barimo guha abana amata, abana bambaye udupira twiganjemo umutuku, abagabo, abagore, ababyeyi barimo guha abo bana amata kuko ari umuco.

Abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu biganjemo aba mama kuko bambaye n'ibitenge, bafite amakayi imbere yabo bashobora kuba bari mu bintu by'amahugurwa kandi bose urabona ko bakurikiye neza.

Umubyeyi w'umugore wazanye umwana kwa muganga, ari kumwe na muganga, muganga yambaye itabariya y'umweru, ni inzobe kandi ashimishijwe no kwita kuri uwo mwana afite akanyamuneza.

Abantu batatu umugabo n'umugore bari imbere ya muganga umugore aratwite, muganga arimo kubasobanurira amabwiriza ajyanye n'uko bagomba kwitwara mu gihe batwite no kubamenyesha igihe bazabyarira kandi barishimye.

Abaganga batatu bambaye imyenda y'ubururu, barimo kwita ku muntu urwaye, harimo Abanyamahanga n'Abirabura, bose bashishikajwe no kwita kuri uwo murwayi, kandi bose bambaye udupfukamunwa.

Umugore urimo kuvoma mu mugezi utemba, arimo kuvomeshamo injerekani yadubitsemo, yambaye agapira k'umuhondo n'igitenge cy'amabara, umugabo uri inyuma ye arimo koza igare na we muri uwo mugezi, yambaye agapira k'umuhondo, ipantaro y'umukara na bodaboda z'umuhondo.

Abantu benshi biganjemo abambaye amabara y'umutuku n'umukara, hari itente hari n'inyubako y'inzu iri inyuma, hari n'agashyamba hino, bose urabona bateraniye hamwe.

Inzu nziza iteretse mu kibanza cyiza, hari jaride ifite pasiparume nziza z'ubururu, hari imihanda myiza iri hejuru, bigaragara yuko hakurya hari inzu ishishikaje, bigaragara ko rwose ari ahantu hashimisha.

Umudamu ufite inweri z'umukara, wambaye agapira agashati k'umweru, washyize rinete kuri ako gashati, wambaye agapfukamunwa, inyuma hahagaze umugabo, muganga arimo kumutera urushinge ku kaboko, ndabona karimo kubabara.

Umugabo n'umugore baje kuvoma, buri wese yashyize injerekani kuri robine, hari umuntu wambaye jire y'umutuku, inyuma yabo hari ibiti byiganjemo amabara y'icyatsi kibisi, ku iryo riba hariho akapa kabafasha kumenya uko rikoreshwa.

Abana benshi batoya hari abantu bakuru b'abagabo n'abagore barimo guha abana amata, abana bambaye udupira turimo umuhondo n'umutuku kandi arabona rwose ko bishimiye kunywa amata.

Umurwayi yaje kwa muganga, muganga yambaye ga ziri mu ibara ry'umweru, arimo kumwitaho amutera urushinge, bivuga yuko yabonye uburwayi kandi muganga akaba yiteguye kumufasha.

Umudamu uvuye kuvoma yikoreye indobo y'umutuku, afite indi y'umuhondo mu ntoki, arazamuka ahantu bigaragara ko hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, arimo kunyura no ku bandi bantu bari haruguru ye.

Abana benshi baje kuvoma bazanye injerekani zigiye zitandukanye, harimo iz'umuhondo ntiza oranje, umwana umwe yambaye akajipo k'umutuku n'agapira uwo n'umukobwa, umuhungu yambaye ipantaro y'ubururu n'agapira ko kajya gu gusa n'umweru.

Abantu benshi biganjemo abagabo bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara, hagati yabo harimo abadamu babiri ndetse harimo n'umunyamahanga, bahagaze imbere y'inzu nziza buri wese yashyize amaboko hejuru.

Abantu 2 umwe ni muganga, madamu n'umuganga umugabo niwe bari mu kuvura bose bambaye udupfukamunwa, arimo kumutera urushinge ku kaboko yaje kwivuza.

Abantu benshi bari imbere y'inyubako nziza cyane iriho icyapa kigaragaza ibihakorerwa, bambaye amataburiya y'ubururu, barakoma amashyi, imbere yabo hari umuntu urimo kubavugisha wambaye ikositime y'umukara.

Abamama, babyeyi baje kwa muganga, umwe ari kumwe na muganga, arimo aramufata ibizame, abandi na bo barategereje, ahantu bicaye hari jaride irimo ibara ry'icyatsi.

Urugo rugizwe n'imi rwubatswe n'imiyenzi inyuma yarwo hariyo urutoki, hagati mu mbuga bubatsemo agatanda ko gushyiraho amasahani, amasahani ari mu mabara atandukanye, hariho ibasi y'ubururu, umuhondo n'akandi kantu k'umutuku bigaragara ko bari bamaze kubyoza.

Abana benshi barimo kwidumbaguza mu mazi menshi bambaye ubusa, biragaragara rwose ko bishimye. Abana bashimishwa no kujya mu mazi menshi bakajya koga kandi bigaragara ko ari ikintu kiba kibashishikaje.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu arimo akorera umwana injerekani y'umuhondo umwana ukiri muto, umuntu w'undi w'umunyamahanga uri hirya arimo arabafotora, undi mugabo uri hirya nawe arimo kubitegereza n'undu uri inyuma yabo.

Abana benshi biganjemo n'abanyeshuri barimo kubyiganira ahantu hari iriba ry'amazi, buri mwana wese arimo gushyiramo akaboko barashaka gukaraba intoki kuko gukaraba intoki ari isuku.

Abantu bari hamwe baje ku iriba aho bakura amazi, hariho ingerekani, bose barimo kureba injerekani bashimishijwe no kubona ko yamaze kujyamo amazi, umugabo uri hino ufite inkoni nawe arimo kubikurikirana.

Abaganga babiri, barimo barita ku murwayi waje kwivuza, barimo gukoresha ibikoresho byabigenewe kugira ngo barebe ikibazo yaba afite, bafata ikizamini cyo ku kaboko, hari n'ibindi bikoresho byinshi cyane bishobora gufasha.

Abantu benshi hari umugabo imbere wambaye baje uri kuri telefone, abandi biganjemo abambaye imituku, hari umumama uhetse umwana witwikiriye, umutwikiriye agashuka k'umweru bose urabona ko bahuriye mu gikorwa kimwe.

Ahantu hari umuntu wunamye, mu kibuga kinini, imbere ye hari akantu k'icyatsi kibisi, hirya hari undi muntu uhahagaze, inyuma y'inyubako harimo jaride n'ibiti hakurya...

Umwana wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'ubururu, arimo kuvoma amazi ku ivomo mu gikombe cy'icyuma kiri mu ibara ry'umuhondo, ni cyo ari bwifashishe kugira ngo ayanywe, hirya ye hari amabara y'icyatsi.

Icyapa kigaragara mu ibara ry'umweru cyandikishije inyuguti z'ubururu n'icyatsi kibisi kirerekana ibikorerwa aho hantu kandi buri wese ukeneye amazi bashobora kumufasha.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bari mu cyumba kinini kizengurutse, ubona ko ari inama, hari umudamu uri imbere yabo, hari amasakoshi hirya ye, barakurikira bose iyo nama.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bambaye udupfukamunwa, hirya yaho hari umudamu wambaye ikanzu y'umutuku y'amabara, arimo arareba ukuntu barimo kwita ku mwana uri hirya, arimo kwitabwaho n'umugabo wambaye ingofero y'umweru n'agapfukamunwa n'umupira w'umutuku.

Iriba riri ahantu hari ibiti by'icyatsi kibisi birikikije, harimo umugore waje kuvoma wazanye ijerekani y'umuhondo, hari n'akandi kajerekani gato k'umweru, byose yabizanye kugira ngo abitwaremo amazi.

Abana babiri, bari ahantu basuka ibintu, umwe yambaye imyenda y'icyatsi kibisi, undi yambaye agapira k'umutuku, barimo gukora mu mazi, arimo guturuka mu itiyo iri hejuru.

Umugore wikoreye injerekani y'umuhondo, irimo amazi, ipfundikije umupfundikizo w'umutuku, yambaye igitenge n'agashati karimo amabara yiganjemo ay'umutuku, iruhande rwe hari umuntu wunamye nawe urimo kuvoma, yambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umuhondo, hirya hari umwana ari hafi y'inyubako.

Abantu benshi bari muri sale iberamo inama bicaye bateze amatwi, imbere yabo hari abayoboye iyo nama, abagabo babiri n'umudamu wambaye imyenda y'umuhondo witeze akantu k'icyatsi kibisi, abandi bakurikiye inama.

Abantu batatu. Umwe wambaye akajire k'icyatsi kibisi gatambitsemo utubara tw'umukara n'ikanzu y'igitenge, iri mu ibara ry'icyatsi kibisi irimo amabara. Umugore uri imbere ye ufite umwana n'undi wambaye ingofero y'umukara biteguye gufatanya.

Abantu benshi abagabo n'abagore, harimo n'abanyamahanga, bambaye baji zigaragaza ko ari abakozi, bateze amatwi bigaragara ko hari umuntu, uri kubaha amabwiriza y'akazi bakora.

Abantu benshi b'igitsina gore bateraniye ahantu hamwe, hari igitabo barimo kwiyandikamo, hari umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, arimo kubafasha kwiyandika muri icyo gitabo.

Umwana ukiri muto wambaye umupira w'umutuku, ari ku ivomo ry'amazi arareba ahagana hirya, hirya y'iryo vomo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, n'icyapa kiri hino y'iryo riba.

Abantu benshi cyane bari mu kibuga, higanjemo abambaye imituku, hirya yaho hari itente, ahagana haruguru hari ishyamba, hari n'inyubako imbere yaho, iriho icyapa cyiza.

Abantu benshi b'igitsina gore bahuriye hamwe, hari umwe uri imbere yabo urimo abereka umwenda uri mu ibara ry'ubururu, we yambaye umwenda urimo umuhondo n'icyatsi kibisi, baraseka, abandi bari impande bashishikajwe no kureba uri imbere yabo.

Ahantu hari abantu benshi, hari n'abaganga babiri, bambaye imyenda ibambitse umubiri wose, na za masike, arimo gusuzuma umuntu, akoresheje igikoresho bapima, bapima mu kanwa, kugira ngo arebe ko hari uburwayi yaba afite.

Abana benshi bambaye imyenda y'ubururu, bafite amasahani ariho ibyo kurya imbere yabo, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho ibyo biga igihe cy'amasomo bari mu ishuri.

Umubyeyi w'umuma yagiye kuvuza umwana, ari kumwe na muganga, muganga arimo kwita ku kibazo umwana afite mu mutwe, bigaragara ko umwana akiri mutoya kandi arimo kubabara, ariko muganga arimo kumufasha.

Abantu babiri, umuntu mukuru n'umwana bari mu mugezi utemba, inyuma yabo hariyo ibiti by'icyatsi kibisi, barimo kuvoma amazi, afite injerekani ebyiri z'umuhondo.

Abantu benshi bari ahantu baje kuvoma amazi ku iriba ry'amazi, hari abantu bafite indobo ziri mu mabara y'umuhondo, ni abantu biganjemo abagabo, abagore umugabo wambaye ingofero y'umuhondo mu mutwe.

Abantu batatu, umwe ni umudamu wajyanye umwana kwa muganga, undi ni muganga arimo kureba ikibazo umwana afite, muganga yambaye itaburiya y'umweru, umwana yambaye agapira k'ubururu.

Abantu benshi b'igitsina gore bari ku iriba aho bagiye gushaka amazi, amajerikani menshi yiganjemo ay'umuhondo n'indi ya shokora, iriba rigaragara ko rikoze mu ibara ry'ubururu, umuntu umwe ari hafi yaryo, bose bategereje amazi.

Abantu benshi bicaye hamwe hagati harimo ameza ariho zamashine hari umugabo ubanza ku ruhande w'umunyamahanga wambaye ishati y'umweru na karuvati y’umukara n'ipantaro y'umukara bose bararebana kandi ubona ko hari ibintu barimo kwigira hamwe.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, bahagaze hari uwambaye imyenda y'umweru, hino yabo, hagiye hari ameza manini ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande, bahagaze imbere y'inyubako.

Abantu benshi biganjemo abambaye ipantaro z'umukara n'udupira tw'ubururu bahagaze ahantu hamwe hagati ya bo harimo umugabo muremure wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru iruhande rwe hahagaze umudamu bose barimo kwifotoza.

Abantu benshi biganjemo abambaye ubururu n'umukara, bari kumwe n'abandi harimo n'umunyamahanga, hagati yabo harimo umusore muremure wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, iruhande rwe hari umudamu bahagararanye.

Abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'ubururu, bahuriye ahantu harimo n'abanyamahanga, bose bashishikajwe n'aho hantu nyaburanga kandi barimo gufata amafoto ashishikaje.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, n'igitambaro cy'umukara, yambaye agapfukamuwa k'umweru, amagambo y'Icyongereza yanditse imbere mu mabara atandukanye, icyatsi n'umutuku...

Inyubako nziza cyane iriho amarangi y'ubururu, iriho icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nyubako cyanditse mu buryo bugaragara, kugira ngo uyigana atagira urujijo.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore hagati yabo bari kumwe n'umuntu ugaragara ko ari umuyobozi, bose barimo bifashe neza bigaragara ko bafite gahunda imwe kandi barimo no gufata ifoto.

Umugabo wicaye wenyine wambaye ikabutura, ufite ipine yamufashe mu nda, akaboko kamwe ko hirya gafashe ku kagaguru hirya harahinguka amaguru y'umuntu wambaye ipantaro y'umukara, bari ahantu ubona hatagira ibyatsi, biragaragara ko akeneye ubufasha.

Abantu babiri umugabo wambaye umupira w'ubururu w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umuhondo, n'umugore wambaye ikanzu y'icyatsi kibisi, umugabo afashe kuri uwo mugore. Imbere ya bo hari amagambo ari ku cyapa no hepfo hari icyapa cyanditse mu ibara ry'icyatsi rigaragaza ibikorerwa aho hantu.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be babiri harimo n'uwo ahetse yambaye igitenge kirimo amabara y'ubururu n'iroze, yambaye n'agapfukamunwa kajya gusa n'ibyo bitenge, arishimye arimo gutegura amafunguro y'abo bana.

Abantu benshi barimo abakuru n'abato, biragaragara ko bababaye, bashonje, barira, bigaragara ko ari abantu bakeneye gufashwa kuko bose ubona ko bahangayitse.

Umusore w'imibiri yombi ufite amenyo y'umweru cyane wambaye agapira k'umuhondo, arimo guseka urabona ko ashishikajwe n'ibyo arimo kureba niyo mpamvu yasetse cyane.

Imodoka y'umweru, yanditseho amagambo agaragara neza ari mu ibara ry'ubururu, ihagaze ahantu mu busitani bw'ibara ry'icyatsi, ibyanditsweho bigaragaza ibirimo, n'icyo byamarira abantu.

Abagabo n'abagore beza, harimo umugore wambaye ijipo y'icyatsi kibisi n'agapira k'umweru kavanze utubara n'umugabo ku ruhande wambaye ikositimu y'ubururu n'ishati y'umweru, iruhande rw'uwo mugabo hari icyapa kigaragaza aho hantu bahagaze ibihakorerwa kugira ngo hatagira ugira urujijo.

Umuntu bigaragara ko yababaye ijisho rye rimwe niryo rigaragara kandi ririmo kurira, igice kindi cy'ijisho ntabwo kigaragara bigaragara ko yagize ikibazo kandi ikibazo cye bikaba bigaragaza ko gikomeye.

Umuntu uri wenyine ahantu hatari ikindi kintu hasa n'umukara nta mwenda yambaye yicaye akaguru kamwe yagahinnye akandi karambuye, ashyiraho akaboko ku kaguru yahinnye arareba ku ruhande rwo hepfo.

Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu ke k'ubururu kavanzemo umweru, afite agahangano mu ntoki arimo arereka umuntu uri imbere ye wambaye umupira w'umukara n'imisatsi y'imikara n'ibindi bihangano biri imbere yabyo kugira ngo amenye ibikorwa bitandukanye bikorerwa n'abantu hatandukanye.

Umuntu uri mu ibara ryijimye yifashe ku gahanga urabona ko ahangayitse, amaguru ye araboheshejwe baramuboshye yombi, amaguru ye araboshye, urabona ko ahangayitse cyane aribaza ibintu byinshi kandi nta wundi muntu uri hafi wamutabara.

Icyapa kinini kiriho ibara ry'umutuku ryanditsemo amagambo agizwe n'inyuguti z'umuhondo. Harimo n'amabara y'ubururu. Ayo magambo yose arasobanura ibyanditse kuri icyo cyapa.

Umugabo wambaye imyenda ishaje cyane w'igikara wifashe ku itama ugaragara nkaho ahangayitse, inyuma ye hari urukuta ruri mu ibara rya shokora, arimo yambaye ingofero y'umukara arimo kwibaza ibintu byinshi bitandukanye.

Abana benshi bari ahantu hamwe begeranye bigaragara ko bishimye, bambaye utwenda tw'iniforume twiganjemo icyatsi kibisi n'agakaruvati k'ubururu, akandi kana kari imbere kambaye agapira k'umweru n'akantu k'umutuku bose barimo guseka.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku ari kumwe n'undi wambaye umupira w'umukara, uwambaye umupira w'umutuku biragaragara ko ahangayitse, yifashe ku itama yambaye ingofero. Biragaragara ko uwambaye imyenda y'umukara arimo kumuhumuriza.

Umumama wicaye mu rugo iwe akikiye umwana yiteze agatambaro k'umuhondo, imbere ye hari urutaro ruriho imbuto yari arimo gutora ashyira mu kabakure ka mironko kugira ngo yite ku muryango.

Umugabo ukuze wishimye wambaye ishati irimo utubara tw'umweru n'umukara, wambaye ingofero wasetse cyane ufite amenyo y'inyinya, yakenyeye umwenda aketero karasa n'umuhondo na nyuma y'urukuta rwijimye.

Ibiganza bibiri biri mu ibara ry'umukara buri kiganza cyose kiragaragaza intoki zacyo uko ari eshanu, zose hamwe ukabona ko ari icumi kandi bigaragara ko zerekeje ahantu hamwe.

Umumama wikoreye igitebo, mu igitebo kirimo imigozi, hirya ye hari inzu yubakishije amategura, yitwaje inkoni mu ntoki, iyo migozi ashobora kuba agiye kuyitera ahandi hantu.

Abantu benshi bari hano begeranye n'uwo mugabo, umugabo uri hagati yabo, wambaye ishati nziza y'ubururu, bigaragara ko agaragara nk'umuntu wishimye, ahagaze iruhande rwabo bandi, abandi barimo gukorera indi mirimo itandukanye hirya ye.

Ababyeyi babiri bakikiye abana, umwe akikiye umwana, umwana yambaye n'akagofero undi na we yambaye akagofero, bakenyeye ibitenge, imbere yabo hari umukobwa ufite imisatsi myinshi, wigiye ahagana hafi ya firigo, aricaye afite telefone imbere ye ashobora kuba hari ibintu arimo kubasobanurira.

Umugabo w'umunyamahanga uhagaze iruhande rw'icyapa, icyapa kiriho inyuguti zandikishije ubururu mu rurimi rw'icyongereza, ahagaze hafi aho ngaho y'igipangu.

Abanyeshuri benshi bashyize ibiganza hejuru bateraniye hamwe, inyuma y'aho hari idarapo hari n'ishyamba ry'ibiti byiza bibiri inyuma y'aho abanyeshuri bari by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, bigaragara ko bose biteguye kubatega amatwi biri mu nama buri wese afite agacupa k'amazi, umuntu umwe ari imbere arabagezaho ibyo yabateganyirije muri iyo nama bose bigaragara ko bamuteze amatwi.

Umubyeyi w'umumama ari kumwe n'umwana ukiri muto aramuteruye, umwana urabona ko yishimye, inyuma yabo hari urukuta rw'amatafari ageze iyo nyubako, amatafari ahiye.

Umugore w'igikara wambaye kambiri z'umutuku n'igitenge kirimo umukara n'agapira k'umuhondo, umusatsi muke, arareba igiti kiri imbere ye cyanditseho amagambo, inyuma ye hari ibindi biti biri mu ibara rya shokora bimukikije.

Abantu bicaye hamwe, biganjemo aba mama, inyuma yabo hari urutoki, insina n'amakoma yazo biragaragara, arimo kureba umupapa urimo kubereka akaguru, ku kaguru yazamuye ipantaro, arimo arabereka, yicaye ku ntebe y'urubaho.

Umugore urimo guseka wambaye agakote k'umutuku, imbere harimo agapira k'ubururu, afite umusatsi muke, inyuma ye hari urukuta rwa shokora, ni rwo yegamiye arimo kureba imbere ye.

Inzu nziza iri ahantu heza ifite imiryango myiza hari jaride nziza, hejuru yayo hariho amagambo agaragara yanditse murimi rw'icyongereza agaragaza icyo bayikoreramo.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore, imbere yabo hari uwambaye itaburiya y'umweru n'akabajyi mu ijosi, iruhande rwe hari uwambaye ikote ry'umutuku, bose barimo kumva inama bashobora guhabwa, kugira ngo ibintu bigende neza.

Abantu batatu, umugabo n'umugore n'umwana muto, umugore yambaye akagofero k'ubururu mu mutwe, ikanzu irimo amabara y'icyatsi kibisi, umugabo arimo aramwereka afashe telefone mu ntoki, amwereka akantu bigaragara ko gashi...

Umugabo w'igikara wicaye ahantu ari wenyine, imbere ye hari ubusitani buri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari akayira gakomeza kanini, arimo gukora utuntu turi mutoki ze turi mu ibara ry'umweru.

Abamama batatu, umwe afite umwana arimo kumuha ibere, bose bitwaje udukoni kandi bari ahantu hari urutoki, inyuma yabo, hari umusozi uriho ibiti byinshi.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro, yegamye ku gikuta kigaragara ko cyijimye, imbere hari ibintu byinshi cyane, hagati harimo imbuga, aritegereza ibintu birimo kubera hepfo ye.

Abantu benshi bicaye hamwe bari mu nama, umuntu imbere yabo arimo arabafasha muri iyo nama bajemo, umwe yambaye umupira w'umutuku, abandi bagiye bambaye amabara agiye atandukanye bose bakurikiye inyigisho.

Umubyeyi w'umu mama ari kumwe n'umukobwa ukiri muto, ufite n'imisatsi y'inweri, uwo mubyeyi yambaye ikanzu y'ubururu, yifubitse umwitero urimo umutuku n'umukara.

Abantu babiri bafashe ku ifoto y'umutwe w'ikintu, umuntu hariya, hirya y'aho hari amagambo yanditseho ashaka kugaragaza icyo bisobanura yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abagabo benshi biganjemo abambaye imyenda y'imikara, bari hamwe baricaye, abandi bahagaze inyuma yabo barimo kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ibikorerwa aho ngaho, hino hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi.

Icyapa kiriho umudamu wasetse cyane cyandikishijeho inyuguti z'umweru icyapa cyo kikaba ari ubururu, uwo mudamu uri mu guseka yambaye imyenda ya move, hejuru yaho hariho akantu gatukura.

Abantu benshi abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye buri wese urabona ateze amatwi bigaragara ko hashobora kuba hari umuntu uri mu kubayobora mu gikorwa barimo kandi buri wese urabona ko atuje.

Umugore w'inzobe wambaye ipantaro y'ikoboyi yahinnye n'agapira kadafite amaboko k'umukara, afite imisatsi myinshi yasetse cyane, yegamye ahantu inyuma ye hari ibintu bigiye bitandukanye.

Umusore w'inzobe, arimo gukora isuku mu menyo akoresheje agakoresho kabugenewe, biragaragara ko ari byiza gukura imyanda yose mu menyo, kandi ni ikintu buri wese aba agomba gukora.

Umuntu w'umugabo yakoresheje amaboko yombi kugira ngo akuremo akantu ako ariko kose gashoboka kuba kari mu menyo ye. Akantu yakoresheje ni agashobora kuvanamo ikintu icyo ari cyo cyose cyafata mu menyo kugira ngo agire isuku.

Umusore w'imibiri yombi, ahagaze ahantu mu ibara ry'umuhondo, yambaye umupira w'umweru, arishimye ku buryo yasetse ku buryo amenyo ye yose ushobora kuyabona, afite ikintu cyamushimishije.

Umugabo w'inzobe, ufite ubwanwa bw'umukara, arimo gukoresha akantu gakoze mu ibara ry'icyatsi kibisi, asukura amenyo kandi arimo gusukura buri ryinyo ryose kandi gusukura amenyo bigirira umubiri akamaro.

Umuntu w'inzobe wasamye muganga arimo kumufasha, muganga yambaye ga z'umweru, yambaye n'imyenda y'ubururu, umurwayi nawe yambaye umwenda w'icyatsi kibisi arimo kumufasha ubona ko afite ikibazo cy'amenyo.

Umwana w'inzobe wegamiye akantu gatukura, umuntu wambaye ga z'icyatsi kibisi arimo kureba amenyo ye, nabona harimo ikibazo aramubwira icyo yakora kugira ngo amererwe neza.

Umukobwa w'inzobe witeze igitambaro cy'umweru, wambaye isengeri y'umweru, arimo kwiborosa akoresheje uburoso bw'ubururu buriho n'akantu k'umweru kandi bigaragara ko arimo kwiborosa neza rwose.

Umuntu w'umugabo arimo kwirebera mu ndorerwamo, yambaye ubusa, arimo gukoresha uburyo bwiza bwo gusukura amenyo, akoresheje akantu kari ku kagozi, hirya ye hari icyirori arimo kureberamo ko yabikoze neza.

Umusore urimo akoresha igikoresho kimeze nk'urudodo kivana imyanda mu menyo, arimo gusukura amenyo ye, ni umusore w'imibiri yombi, kandi biragaragara ko arimo gukora kuri buri ryinyo, ku buryo rwose ari busige yose afite isuku.

Umusore utambaye ishati, w'imibere yombi, arimo kwereta ku menyo ye akoresheje akantu kameze nk'urudodo umuntu ashobora gukoresha avana imyanda yose iri hagati y'amenyo, kandi iyo umuntu agakoresheje neza bituma amenyo agira isuku.

Abana b'abanyeshuri batoya bambaye imyenda y'ubururu, imyenda bambara yagenewe abanyeshuri. Bose batojwe uburyo bwo gusukura amenyo, bakoresheje uburoso bw'amenyo.

Abantu babiri, umukuru n'umutoya, bose bafite borosada mu ntoki, barimo kwibarosa, ashobora kuba umukuru arimo kwereka umwana, uburyo bwiza bwo kwibarosa, bose bafite imisatsi myiza y'imikara.

Umuntu w'imibiri yombi, wishimye asetse ku buryo amenyo yose ashobora kugaragara, intoki zo ku biganza byombi yazerekeje ku munwa we, kandi bigaragara ko yishimye cyane.

Umusore ukiri muto w'inzobe hirya ye hari muganga yambaye ga y'ubururu, itaburiya y'umweru afite igikoresho mu ntoki gifasha gusukura amenyo, umusore arasamye kugira ngo bamufashe.

Abana benshi babanyeshuri barimo gukoresha uburoso busukura amenyo, umwe afite agakombe gasa umuhondo akandi karasa n'ubururu bose bigishijwe ko kwita ku menyo ari ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima.

Umusore w'imibiri yombi afite igikoresho umuntu akoresha asukura amenyo. Igikoresho gituma hatagira utwanda dusigara mu menyo. Ku buryo na we ari mu kugikoresha. Bigaragara ko aribukore isuku mu menyo ye. Nta myenda yambaye arimo gukora isuku.

Abana b'abanyeshuri buri wese afite uburoso bw'amenyo arimo kwiborosa, umwe afite agakombe k'umuhondo undi afite ak'ubururu, umwana wese ashishikajwe no kwiborosa kandi urabona ko abo bana ari abana bishimye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, imbere harimo umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, hirya ye hari agatanda k'icyatsi kibisi n'ibikoresho byo kwa muganga yifashisha arimo gufasha abarwayi.

Abantu benshi biganjemo aba kiri bato bashyize amaboko hejuru, ni umukobwa w'igikara, ufite inweri z'umukara, inyuma yabo hari idirishya rifite ibara ry'icyatsi kibisi n'amagiriyaje.

Umukobwa ufite agakoresho umuntu yifashisha kugira ngo asukure amenyo, arimo kwita ku menyo ye akoresheje ako gakoresho, afite imisatsi miremire y'umukara kandi arimo kwita ku menyo ye yose.

Umuntu wambaye ga z'umweru na rinete ufite umusatsi w'umukara n'itaburiya y'umweru, arimo gukora mu kanwa k'umuntu w'imibiri yombi, akaboko kamwe gafashe ku ruhande rwo hirya akandi gafashe k'urwo hino, arimo kumwitaho.

Umuntu w'inzobe wambaye agashati k'icyatsi kibisi n'imisatsi y'umukara, undi ugaragara ko ari umuganga wambaye ga z'icyatsi kibisi, arimo kumukoza akantu mu kanwa, bigaragara ko arimo kumufasha ku bijyanye no mu kanwa.

Umwana w'inzobe bari kumwe nmbaga z'umweru afited hirya wambaye naga z'umweru bafite ibikoresho bitandukanye bisukura amenyo harimo kumufasha kureba ikibazo yagize.

Abantu babiri umwe ni umugabo undi ni umwana, barimo gukoresha uburyo bwiza bwateganjwe bwo kugirira amenyo isuku, kandi urabona rwose ko ari ibintu bishishikaje kuko bituma abantu bamererwa neza.

Ibitanda bifashisha kwa muganga, intebe iri mu ibara rya shokora, imashini zitandukanye zifashishwa mu gushakisha ikibazo umuntu aba afite igihe cyose ageze kwa muganga kugira ngo bamufashe.

Umwana mwiza ukiri muto afite uburoso buri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, ashyizeho korogati araborosa amenyo ye yose, ari ahantu higanje ibara ry'umweru.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo udutanda bashobora gusuzumiraho umuntu kugira ngo bamenye ikibazo afite, hari n'ibindi byuma bitandukanye bishobora gufasha muganga kumenya ikibazo cy'umurwayi akamwitaho.

Abantu babiri, umwe ashobora kuba afite ikibazo wenda k'imvune arimo kugendera ku kantu imbere ye, mugenzi we aramufasha kugenda bitamugoye afite agakapu mu ntoki; inyuma yabo hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi.

Abamama benshi bari mu murima mwiza, barimo gusarura imbuto muri uwo murima. Umwe yambaye imyenda y'ubururu n'igitambaro cy'ubururu undi yambaye umupira wa move n'igitambaro kirimo umutuku n'amabara, bose barakora akazi basarura mu bitebo kandi barishimye.

Umubyeyi ukuze ufite imisatsi y'imvi, afite utuntu mu ntoki yambaye ga z'umukara, arishimye arimo gukora siporo kandi urabona ibintu akora abishyizeho umutima kuko bimushishikaje.

Umugabo ukuze ufite mashine imbere ye, ari kumwe n'umukobwa umuzaniye akantu, ateze ikiganza kugira ngo amuhereze, arimo gukorera kuri iyo mashini iri imbere ye.

Umuntu ukuze, inyuma ye hari urimo kumucunga mu kagare, barindiriye kubonana na muganga, bose bigaragara ko bategereje, barareba imbere, hirya yabo hari abandi banyamahanga, umwe yicaye, umadamu nawe yicaye hirya yiwe.

Abantu benshi, biganjemo abamama bageze mu zabukuru, bicaye ahantu bari kumwe bose, biteze ibitambaro hafi ya bose, bicaye ku ntebe za palasitike z'umweru, bateze amatwi.

Umupapa ukuze winzobe, wambaye ishati ya karokaro, yiganjemo amabara y'umutuku ari kumeza, arimo gufata ibyo kurya byiza, byiganjemo ibara ry'icyatsi, bigaragara ko yishimye.

Umupapa wambaye ipantaro y'ikoboye n'umupira w'amaboko maremare w'umuhondo ari kumwe n'umwana ufite imisatsi myinshi wambaye umupira w'icyatsi kibisi, bicaye ahantu heza harimo n'akajaride.

Abantu biganjemo abagore bishimye, bose bashyize amaboko hejuru, urabona bareba imbere yabo kandi barimo guseka, bigaragara yuko ibintu barimo kumva cyangwa barimo kureba ari ibintu bishishikaje.

Umugabo ukuze wambaye ishati ya karokaro adafite umusatsi, ufite ubwanwa bw'imvi ari kumwe n'umuntu utari umunyarwanda, w'umunyamahanga urimo amufasha kugendera ku kantu gafasha abavunitse.

Abantu bakuze bahuriye mu mirimo ngororamubiri harimo umudamu ufite akantu k'iroza mu ntoki, bigaragara ko arimo rwose kugakoresha hari n'abandi b' abanyamahanga, bose bishimiye kuba bari kumwe nabo muri icyo gikorwa.

Abantu babiri, umu papa wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'agakote kajya gusa umutuku, umwana w'umukobwa wambaye rinete, barifotoje agafoto keza cyane, bari ahantu urabona ko bishimye bari kumwe bombi.

Abantu babiri, umwe ageze mu zabukuru, undi aracyari muto, arimo kumufasha, arakora udusiporo tworoheje, kugira ngo amererwe neza, urimo kumufasha yambaye itabuririya y'umukara n'agapira k'umweru.

Umugabo ukuze n'umugore, barimo kureba amadosiye yo mu rugo rwabo ariko urabona ko bashishikajwe cyane n'urupapuro bafashe mu ntoki, kandi urabona ko ari abantu bakuze, barimo kureba ikintu cyanditse kuri urwo rupapuro, babyiyitondeye.

Abagore benshi bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hari ibitebo binini birimo inyanya, ku ruhande hari uwambaye ikanzu ya shokora n'igitambaro mu mutwe cya shokora, ku rundi ruhande hari uwambaye ikanzu y'ubururu n'igitambaro mu mutwe cy'ubururu, bose urabona ko barimo kuganira.

Umuntu ukuze arimo barimo kumukorera isuku mu mutwe bakoresheje amazi n'isabune byiza nawe aritonze kugira ngo bamufashe ngo nibwo buryo bwiza bwo kumererwa neza.

Umubyeyi ukuze uri gutunganya ibyo kurya byiza, bishobora kuba biribwa ari bibisi. Kuko harimo imboga, inyanya n'amaronje. Arimo arerekera umukobwa ukiri muto wamwitegereje uko bikorwa kandi bose barishimye.

Abantu benshi b'abagabo n'abagore, bagaragara ko bose bakuze, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bicaye hamwe, umugabo wambaye umupira w'ubururu, ari imbere yabo hari ibintu arimo kubasobanurira.

Umugabo n'umugore bakuze, umugabo yambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare, ni abanyamahanga, umugore we yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umukara, bombi umwe arimo kureba ibiri mu kiganza cy'undi, hirya yaho hari ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umumama ukuze ufite agakoni mu ntoki ari kumwe n'umugabo ukiri muto, bigaragara ko ari umuganga arimo kumwitaho mu rwego rw'ubuzima kandi bigaragara ko bose bishimye.

Abantu babiri umwe ni umugabo ukuze bigaragara ko yishimye ari kumwe n'undi muntu w'umuyamahanga umufashe akaboko na we wishimye, bigaragara yuko abo bantu bose bari ahantu hashimishije.

Umugabo n'umugore bakuze, umugabo yambaye umupira w'ubururu ashyize akaboko hejuru umugore arimo kumwitegereza wambaye umupira w'umutuku, bose bafite imvi mu mutwe imbere yabo hari ameza areba utuntu tw'umweru.

Abantu babiri umwe ni umumama ugeze mu zabukuru wambaye agapira karimo amabara atambitse n'umweru, n'umukara ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu. Hirya yabo jaride arimo kumufasha.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, umugore wo hino yambaye agapira k'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umuhondo, ufite imisatsi myiza y'mikara, ukuriyeho na we yambaye umupira w'umuhondo hari umwana hagati ya bo bose bashishikajwe no kureba kuri uwo mwana kandi bari ku nyubako nziza.

Umugore mwiza urimo guseka wambaye umupira w'umutuku n'igitambaro cy'umukara mu mutwe na rinete, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto umwitaho wambaye agapira k'ubururu afite n'imisatsi myiza y'umukara.

Abagore babiri bishimye, bari mu mirimo ngororamubiri, inyuma yabo hari urukuta ruriho ibara ry'icyatsi kandi bishimiye kugorora umubiri wabo kuko ari ikintu cy'ingenzi cyane.

Abantu babiri barimo kwiruka, umugabo yambaye umupira werurutse, ni igikara, arimo guseka, umugore winzobe ufite imisatsi irimo imvi z'umweru, na we wambaye umupira w'umweru, barimo kwiruka bishimye.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu utambitsemo utubara tw'umweru, urimo guseka arimo gufasha umuntu wavunitse ku kaguru, yishimiye kumuha ubufasha bw'ibanze kugira ngo yoroherwe iyo mvune.

Umugabo ukuze wambaye ipantaro yumukara n'umupira w'ubururu arimo gufashwa nundi musore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu nundi mukobwa uri hirya yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro yubururu baramufasha guhaguruka kugirango ubuzima bugende neza.

Umukobwa ukiri muto wambaye agapantaro k'iroze n'agapira kajya kuba umukara, yicaye ku gatapi ahantu akorera siporo, biragaragara ko hirya ye hari ubusitani bugizwe n'indabo ziri mu ibara ry'icyatsi.

Umu mama mwiza ugeze mu za bukuru, arishimye afite umuntu ukiri muto urimo ku mwitaho, ibintu amubwira bishobora kuba rwose bishishikaje, arishimye, urabona ko

Umuntu w'inzobe ukuze cyane mbere ye hari ameza ibara rya shokora ryari ibiti by'ubururu no kwitabwaho nukiri muto wambaye umwenda w'ubururu imisatsi y'imikara kugira ngo umuntu ukuze amererwe neza.

Umugabo wicaye ku gitanda, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro yerurutse. Ari kumwe n'umugore w'umunyamahanga urimo kumuhagurutsa, hirya yaho hari inyubako mu cyumba barimo cyiza.

Umumama ukuze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu n'inkweto za sipurese, ari muri siporo bigaragara ko amaboko yose yayahereje akaguru kamwe, akandi aragahina, ahantu bakunda gukorera siporo.

Umuntu wambaye imyenda ya move w'igitsina gore, inyuma ye hari jaride nziza y'icyatsi kibisi, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, yambaye ga z'umweru arimo gufasha umugore uri imbere ye wambaye ikanzu y'igitenge, ufite agasatsi gake ku kaboko aho yavunitse.

Umugabo ugeze mu zabukuru, aricaye umukobwa ukiri muto ni umudamu ukiri muto, arimo kumusukira ikintu cyo kunywa kandi hari n'imbuto zitandukanye yamuteguriye, inyuma ye hari akabati kifashishwa mu bintu byinshi byo mu gikoni.

Abantu benshi, abagabo n'abagore bicaye hamwe, barimo kuganira ku bintu bitandukanye, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibikorerwa aho ngaho, kiri mu ibara ry'iroze, ryandikishije inyuguti z'umweru.

Abantu benshi biganjemo abagore harimo n'abagabo, bose barimo gushyira amaboko hejuru bamamaza ibintu bitandukanye ariko ibyo bamamaza byanditse ku cyapa cy'ubururu bafite kiri inyuma yabo kugira nog ibyo bakora bimenyekane.

Amagambo agaragara yanditse mu ibara ry'umweru, agaragaza uburyo twakwirinda indwara y'ubushita iva mu nkende, aragaragaza ko buri wese abaye maso yakwirinda iyo ndwara.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umutuku, bicaye batuje, batumbiriye abari imbere yabo, barimo kumva amabwiriza bari bubahe, ababaha amabwiriza harimo abirabura n'abanyamahanga.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda yiganjemo iroze, bambaye udupfukamunwa bamwe barahagaze abandi baricaye, bose biteguye guhabwa ibintu biri ku meza imbere yabo, harimo uducupa tugaragara ko ari ubururu.

Abantu abagabo n'abagore, bahuriye ahantu bose barishimye ahantu bari hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa, ni ukugira ngo buri wese ahifashishe hatamugoye.

Abantu benshi, bicaye, bicaye hamwe, abandi batatu barimo umunyamahanga, barimo gukurikira inama, harimo umudamu harimo n'abapapa babiri.

Abantu benshi, hari umuntu uryamye wambaye ipantaro y'umukara urimo kwitabwaho n'umuganga w'umugabo, hirya ye hari undi muntu wambaye agapfukamunwa k'ubururu. Hagana hirya hari undi muganga na we uri kumwe n'undi muntu wambaye baji ubona ko ari abatabazi.

Icyapa kinini kiriho amacupa arimo imiti, ayo macupa yanditseho uko iyo miti ikoreshwa, kuri icyo cyapa handitseho amagambo menshi y'icyongereza ari mu nyuguti z'umukara n'umutuku ndetse n'umweru.

Abantu babiri, umugabo wambaye neza, ikositimu y'ibara ry'umukara n'ishati nziza y'umweru, hirya ye hari umukobwa wambaye ikanzu ngufi na yo nziza, barimo guha ikaze abashobora kwinjira aho hantu bose.

Abantu babiri umugabo n'umugore bafite icyapa cyanditseho ibikorerwa aho hantu, barimo kubimenyekanisha, inyuma yaho hariyo ibiti binini biriho amadarapo kandi inyuma yaho hari urukuta rugaragara ko ruriho icyatsi kibisi.

Umudamu wicaye atuje, arimo kwitegereza hakurya ye, yambaye umwenda w'ubururu, afite imisatsi, yambaye amaherena y'umweru, bigaragara ko ibintu arimo kureba yabyitondeye.

Abantu benshi bambaye ibintu bifungiranyemo byibi masike bivuye mu mutwe bikagera ku birenge, bose bambaye udupfukamunwa. Hirya yabo hari umuntu wambaye umwenda wa move nabo bambaye agapfukamunwa baba abo hirya yabo.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga, hari igitanda gishasheho ishuka y'ubururu, hari ibyuma byinshi byo mu bwoko butandukanye, intego yabyo byose ni ugufasha muganga kugira ngo abashe kwita ku murwayi.

Intebe nziza ziganjemo iz'umukara, n'akameza k'umukara, akandi kameza ni umweru, akandi karajya kuba umweru na ko gateretseho ibintu, hirya yako hariho ururabo rwiza rw'icyatsi kibisi, inyuma yaho hagaragara neza ko harimo akabara k'icyatsi kibisi.

Inyubako nini nziza ifite ku mpande amarangi y'ubururu meza cyane, ahandi hakaba ari umuhondo, hejuru hariho icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, cyandikishijemo inyuguti z'umweru zigaragaza ibihakorerwa kugira ngo uhagana atayoba.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga, byifashishwa mu kwita ku barwayi, harimo imashini nyinshi zigiye zitandukanye, ibyo byose bigaragara ko biba bikenewe kandi bifasha abantu.

Inzu nziza bigaragara ko ari ku buyobozi, ikorerwaho ibintu by'ubuyobozi, hariho amadarapo abiri, imbere hari icyapa cy'ubururu, isakaje amabati y'umutuku, kandi ni inzu bigaragara ko rwose ishishikaje.

Inyubako nziza nini igeretse rimwe, iriho amagambo yanditse mu cyongereza agaragaza ibihakorera, ifite inkingi z'umukara n'amadirishya afite amagiriyaje y'umukara, hirya yayo hari indi nzu iciriritse.

Abantu bari hamwe n'umwana wambaye agapira k'icyatsi kibisi, umwarimu aramwigisha uko yasukura amenyo, afite uburoso bw'amenyo, aramwereka ku ifoto ye y'amenyo kugira ngo amenye uko na we yajya yita ku menyo ye.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo agaragara neza ko ari ivuriro, imbere iyo winjiye ubona ibiti byiza by'icyatsi kibisi, inyuma hari amazu meza hagaragara ko iyapa kerekana ibihakorerwa.

Ahantu kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye, ibitanda, imashini, irido bakoresha bakiriramo umurwayi, kugira ngo bamufashe abandi batamureba kandi byose bikoreshwa neza.

Inzu nini irimo ibikoresho bitandukanye bifasha abaganga kwita ku barwayi, harimo ibitanda, harimo intebe, harimo ibyumba bifunze n'amarido. Ibyo byose bifasha abaganga kwita ku murwayi kugira ngo amererwe neza.

Amazu menshi akorerwamo ubuvuzi, agaragara neza, imbere hari icyapa kinini, cyanditseho amagambo afasha abantu kumenya aho umuryango bakwinjiramo kugira ngo babafashe.

Inyubako nziza igeretse iri ahantu heza hari ubusitani bwiza bufite amabara y'icyatsi kibisi kandi hagati muri muri ubwo busitani harimo uduhanda twiza dutuma buri wese ahagera bitamugoye.

Umuryango munini uriho amagambo yanditse mu buryo bugaragara y'icyongereza, agaragaza ibikorerwa imbere iyo umaze kwinjira muri uwo muryango, hari amazu meza hakaba na jaride nziza, ibiti byakuze bishimishije.

Inzu nini yo kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi, hari amarido y'ubururu, umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, afite imisatsi myinshi arimo kwinjiramo, bigaragara ko ari ho bakirira abantu barwaye kugira ngo babafashe.

Inzu nini nyinshi z'ubuvuzi, hari abantu barimo kugana iryo vuriro, hari jaride nziza cyane, hari igiti cyiza cyane kiri muri iyo jaride, ni ahantu ubona heza.

Inzu nini igizwe n'amagorofa menshi, imbere yayo hari icyapa kinini cyerekana ko ari ivuriro, icyo cyapa kikerekana ibikorerwa kuri iryo vuriro kugira ngo abahagera batayoba buri wese amenye aho bamufashiriza.

Inzu nziza irimo ibikoresho byinshi bishobora kwifashishwa mu kumenya icyo umuntu arwaye, kandi iyo kimenyekanye ashobora kuvurwa, ibyo bikoresho hari n'ibitanda umuntu ashobora gusuzumirwaho uburwayi bwe.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza manini, hari abagabo bahicaye bambaye imyenda y'imikara, abandi babateze amatwi, hari undi ku ruhande ufite kamera, kandi bafite uducupa tw'amazi imbere.

Inzu nziza iri mu kibanza cyiza, ifite jaride nziza, igizwe rwose n'indabo nziza z'icyatsi kibisi, ni inzu nayo yubatse neza bigaragara ko rwose ari inzu ishimishije.

Inzu nini, hari umuntu wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, iriho amarido y'ubururu, bigaragara ko ari inzu yo kwa muganga kandi ibikorerwamo bifasha abantu baje kwivuza kugira ngo bamererwe neza.

Inzu nziza iriho icyapa kigaragaza ko ari materinite ni inzu yakira ababyeyi bakabasha kubyara bitabagoye, hirya yaho hariyo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'icyatsi kibisi.

Ikigo nderabuzima gishyashya cyubatse neza, gifite amabati meza y'ubururu, imiryango myiza, hanze hari utubuye twiza tugaragara ko kuhakandagira byaba bishishikaje, kigamije kwakira abantu kugira ngo bitabweho.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore, bari ahantu muri jaride nziza cyane, hari icyapa kiri hagati yabo, bigaragara ko cyanditseho ibikorerwa aho hantu. Inyuma yabo hari amashyamba.

Amazu menshi yubatse mu kibanza cyiza, hariyo jaride ifite indabo z'icyatsi kibisi, hirya hari igiti cy'icyatsi kibisi, harimo icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi afasha abantu kumenya ibihakorerwa.

Inyubako ishishikaje ifite amabara ashishikaje arimo aya oranje n'ay'icyatsi n'ubururu, ifite amadirishya meza abona neza, ishobora gufasha abayigana kumererwa neza.

Inzu nini yo kwa muganga ikorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari ahagiye hari amabara y'ubururu yerekana buri cyumba igikorerwamo kugira ngo abahagana batayoberwa ibyo bifashisha.

Inzu nziza irimo abantu, umuntu umwe aricaye arimo kureba muri telefone. Yambaye ingofero y'umukara, umupira w'ubururu n'ipantaro y'ikaki. Imbere hari ameza ateretseho akavaza kariho ururabo rwiza rw'icyatsi kibisindi, undi mugabo ahagaze yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu. Bose barimo gukoresha muri iyo nzu.

Inzu nziza zubatse mu kibanza cyiza, hari umuhanda mwiza ugerayo, hari jaride nziza, biragaragara ko ari inzu zigeretse kandi hariho icyapa cyerekana ibihakorerwa.

Inzu nini igeretse, iri ahantu mu kibanza cyiza, iriho irangi ry'umweru, igaragara ko ari ivuriro rikuru rishobora kwakira abarwayi, hari na jaride nziza cyane.

Inzu nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bishobora gukoreshwa ku bantu bagannye iyo nzu barwaye, hari imashini bashobora gukoresha ikerekana ikibazo umuntu yaba afite mu buzima bwe.

Jaride nziza igizwe iri mu ibara ry'icyatsi arimo indabo zi zitandukanye ibiti by'imikindo bibiri bikikijwe n'uturabo twiza twiroze inyuma yaho hari amazu menshi.

Inyubako nziza iri mu kibanza cyiza, inzu y'amatafari ahiye, yubatse neza ndende ifite jaride nziza iri mu ibara ry'icyatsi, hirya yayo hari indi nzu nayo ishishikaje.

Inyubako nini ahagana hanze, hari amagambo agaragaza ko aho umuntu wese ashobora kumenya aho anyura kugira ngo yakirwe bitamugoye, hari ibyumba byinshi bishobora kwakirwamo abarwayi kandi buri wese baba biteguye kumufasha.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda, ibikoresho bishobora gufasha umuntu urwaye kugira ngo abaganga bamenye icyo arwaye maze babashe kumwitaho.

Inzu nziza nini irimo abantu benshi batandukanye bigaragara ko ari kwa muganga harimo abaganga, harimo n'abaje kwivuza, hari umuntu mu muryango urimo winjira wambaye imyenda y'ubururu yinjira arimo kujya mu...

Inyubako ndende, igeretse gatatu, iriho icyapa kirimo ibara ry'icyatsi n'iry'umuhondo n'ubururu, intego yayo ni ukugira ngo ifashe abahagana, kugira ngo buri wese atayoba amenye ibyo ashaka aho ikorerwa.

Inyubako nziza, ifite intebe imbere yayo, ibyumba bigiye bitandukanye, ameza manini bashobora kwifashisha bakira ababagana, kugira ngo babafashe ku bijyanye n'uburwayi bugiye butandukanye.

Iyi nyubako nziza yahuriweho n'abantu benshi, biganjemo abaganga hari n'itente riri mu ibara ry'umweru, abaganga bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari n'abaturage benshi kandi hari icyapa kigaragaza ko buri wese bashobora kumufasha.

Inzu nini iri mu kibanza kinini, hari icyapa kinini nacyo cyanditseho ibikorerwa aho hantu, hari jaride nziza iri mu ibara ry'icyatsi n'ibiti byiza by'icyatsi kibisi.

Inyubako nini yahuriyeho abantu benshi, abagabo n'abagore n'abakiri bato, hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa bitandukanye, kugira ngo uhagannye abashe gusobanukirwa ibihakorerwa.

Abantu batatu, umwe araryamye yambaye ikanzu y'ubururu, barimo kumuvura umu papa afashe ku mutwe we, bigaragara ko yagize ikibazo, bakaba barimo kumwitaho kandi bose uko bari aho baramuhangayikiye.

Inyubako nziza irimo amazu meza hari icyapa kigaragara cyanditseho ishobora kuyobora abahagana, hari abamama barimo gutunguka hirya bahetse abana bitwikiriye imitaka, hari imodoka ziparitse hafi aho, ukigana wese bigaragara ko bamuyobora.

Abantu benshi biganjemo abagore bateraniye ahantu, barimo kwitegereza umuntu ubari imbere, bamuteze amatwi, hari abagabo, hari uwuhagaze wambaye ikositime y'umukara n'ishati y'umweru, barimo kumva amabwiriza abaha.

Inyubako nziza igizwe n'amatafari ahiye, ifite ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi, umuhanda mwiza ubasha kugana iyo nzu kandi hariho amagambo ari hejuru mu ibara ry'umweru agaragaza ibihakorerwa.

Umuntu wambaye itabuririya y'umweru n'ipantaro y'umukara, hari ibikoresho bigiye bitandukanye bituma kwita ku bantu bagana muri iyo nyubako, bibafasha kubona uburwayi baba bafite.

Abantu benshi, abagabo n'abagore bari ahantu hari amazu meza hafi y'ikigega cy'amazi, umugabo umwe ahagaze imbere y'abadamu babiri ashobora kuba hari ibintu arimo kubabwira.

Inyubako y'itaje, nini, yubakishije amatafari ahiye, buri nyubako iriho ibyapa, bigaragaza ibihakorerwa, hirya y'aho, hari igiti cyiza cyane.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibyo kwa muganga harimo agatanda bashobora kwakiriraho umurwayi ukigera kwa muganga kugira ngo babashe kumwitaho barebe ikibazo yaba afite.

Ibikoresho byinshi biri ahantu harimo ibara ry'ubururu, ibinini n'ibitoya bikoreshwa kwa muganga bagira ngo byose babikoreshe bafasha abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Umugabo wambaye ipantaro y'umuhondo n'ishati ya karokaro ari kumwe na muganga arimo kumwitaho, undi hirya nawe ari kumwe na muganga nawe arimo kumwitaho, bose bambaye agapfukamunwa.

Inzu nyinshi zirimo n'izigeretse z'itage, zifite jaride nziza cyane iri mu ibara ry'icyatsi, hari idarapo rimwe, iruhande rw'iryo darapo hahagaze imodoka.

Abantu benshi bahuriye ahantu hari inyubako nziza. Umubyeyi wambaye igitenge gifite amabara menshi yiganjemo aya rose, ahagaze iruhande rw'imodoka y'umukara. Hirya hari umuntu wambaye ipantaro yumukara n'agapira k'umweru, nawe urimo kwandika abari aho bose bigaragara ko baganye icyo kigogo ngo kibafashe.

Inyubako nziza y'amatafari ahiye, ifite jaride nziza y'icyatsi kibisi, harimo ibiti byamaze gukura hariho icyapa cyanditse mu magambo y'umukara, agaragaza ibikorerwa kuri iyo nyubako.

Inzu nziza iriho icyapa kigaragaza ibihakorerwa, ifite jaride nziza, imikindo hirya no hino, kandi ku mpande rwose hari ubusitani bushishikaje, bigaragaza ko iyo nzu ari nziza cyane

Umubyeyi watwaye umwana kwa muganga, wambaye imyenda y'imweru, akana gato k'inzobe, bagashyize ahantu bashobora kugapima ibiro kugira ngo barebe uburyo kiyongera, undi mubyeyi na we ari hirya arimo gutegura umwana.

Inyubako nziza iri mu kibanza kiza, harimo inzu nziza iri mu ibara rya shokora, hariho amagambo agaragaza ibikorerwa kuri iyo nzu kugira ngo buri wese uhagana abashe kubisobanukirwa.

Umuganga arimo kuvura umwana, umubyeyi w'uwo mwana, yicaye hirya ye, arabikurikirana ubona atuje, bari ahantu hari ibintu by'amabara atandukanye, muganga yambaye agapfukamunwa.

Inzu nziza cyane iri ahantu heza ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, kugira ngo abantu babashe kuyikoresha bitabagoye bagiye bashyiraho nomero, kugira ngo abayikoreramo bitabagora.

Inyubako nziza, imbere yayo hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi, ubusitani, irageretse, ifite amagorofa menshi kandi inyuma yayo hari ibara ry'ubururu, bigaragara ko iri ahantu heza cyane.

Inzu nini bakiriramo abarwayi, iriho icyapa kibyerekana, hari umudamu hirya yaho uhetse umwana, amarembo arafunguye, aragira ngo atware umwana kwa muganga.

Igipangu kinini, cyubakishije amatafari ahiye, gikikijwe n'ubusitani bw'ibiti binini byiza by'icyatsi kibisi, hagati harimo icyapa cyerekana y'uko imbere muri urwo rupangu, ari mu bitaro.

Ubusitani bwiza bugizwe n'indabo z'icyatsi kibisi, zera umweru n'umutuku buri imbere y'inzu nziza igeretse ifite irange ry'umukara n'idirishya rinini, bigaragara ko ari ahantu hasa neza.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gabo bahagaze imbere y'inyubako nziza, igizwe n'amatafari ahiye bahagaze ku mapave, kuri iyo nzu hariho amagambo ari mu nyuguti z'ubururu agaragaza ibiyakorwa.

Inyubako nini nziza iri mu kibanza kinini kiza. Imbere yayo haba ari imodoka y'umukara. Hirya hari n'izindi modoka, harimo n'iziri mu ibara ry'umweru. Hariho icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nyubako.

Ahantu hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi, bigiye bitandukanye, hagati yabyo harimo icyapa, inyuma y'icyo cyapa, hari amazu meza, bigaragara ko icyo cyapa gifasha abantu kumenya ibihakorerwa.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi kibisi n'ingofero y'umweru, ari kumwe n'umwana w'uruhinja, arimo kumwitaho, agahinja karyamye ahantu heza cyane, biragaragara ko aribwo kakimara kuvuka.

Inyubako nziza igeretse rimwe, ifite jaride nziza, harimo umukindo, urimbishijwe mu ibara ry'umukara n'umweru, n'ayo ifite amabara y'ubururu meza cyane.

Inzu nziza ifite irangi ry'umweru, irimo icyapa cy'umukara cyanditseho inyuguti z'umweru, kigaragaza ibihakorerwa, ifite ubusitani bwiza buri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'akayira keza gafasha abantu kuhagana bitabagoye.

Inzu yubatse ahantu heza, ifite irangi ry'ubururu, amadirishya meza, mu kibanza cyiza, imbere yayo hahagaze imodoka nziza, hirya yayo hariyo abantu.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibikoreshwa kwa muganga, harimo udutanda abaganga bifashisha kugira ngo bamenye ikibazo cy'umurwayi kandi bamufashe, intebe nziza zo kwicaraho, byose biri mu nzu nini kandi nziza.

Ibikoresho bitandukanye bigaragara ko ari ibyo kwa muganga bishobora kwifashishwa, udutanda, intebe, biri mu nyubako nziza kandi ishobora gufasha buri wese uhagannye kugira ngo abashe kuvurwa bitamugoye.

Sare nini irimo intebe nyinshi, ziganje mu ibara ry'umukara, imbere haganje ibara rya shokora, n'akameza imbere keza k'umweru, n'amatara meza ashishikaje ari muri iyo nzu.

Inzu nziza ifite amabati y'ubururu, amatafari meza ahiye, atambitseho akabara k'umweru, kuri ako kabara handitseho amagambo agaragaza ko ari inzu bakiriramo ababyeyi baje kubyara, ifite jaride y'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza, iri mu kibanza kiza, ifite amadirishya menshi n'imiryango myiza, hariho amagambo agaragaza igishobora kuba gikorerwamo.

Inzu nziza y'itaje bigaragara ko ikorerwamo imirimo itandukanye kuko hari ibyapa, ikiri hejuru kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ibyapa bigiye byerekana ibikorwa bihakorerwa, imbere haparitse imodoka ziganjemo iziri mu ibara ry'umukara.

Abagabo babiri, umwe aricaye ahantu hagaragara ko ari mu biro, harimo icyapa kigaragaza ko ari irembo, undi aricaye yambaye ishati y'amabara, yambaye bajye mu ijosi, umwe arareba undi, barimo kuvugana.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga birimo ibitanda by'umukara, ikindi kintu cy'ubururu, hari ibishobora kureba uburwayi ubwo aribwo bwose, ibyo babyifashisha bavura abantu.

Inyubako nini igaragara ko ariyo kwa muganga, hari imashini nini, agatanda kari hasi yiyo mashini gateretse ku kintu gifite ibara ry'ubururu, bifashisha barimo kureba uburwayi bw'umuntu bakamufasha.

Ikibuga gikorerwaho imikino, akantu ka mbere kabanza kariho ibara ry'ubururu, hagati kagizwe n'ibara ry'icyatsi, inyuma naho hageze akandi k'ubururu, barahakinira bakamenya uko bakoresha ibyo bikoresho bari bahabashyiriye.

Abarwayi benshi bari kwa muganga, biganjemo abagabo, umwe uri ku ruhande rweo hirya yiyorosoye, ari ku mwuka biragaragara ko yarembye, bamuteye n'amaraso, undi ari ku mwuka na we, biragaragara bose ko barembye.

Umugore wambaye umupira w'umweru, akaba ari igikara yambaye n'agasheneti kerurutse mu ijosi, arakanda akaboko intoki akandisha zambaye metero ebyiri, arakandisha akantu ku maboko, kuko ashobora kuba yaravunitse kugira ngo arebe icyamufasha.

Umuntu w'igikara bafashe icupa ry'ubururu, ririmo amazi arimo kunywa yarayakeneye kuko hari arimo gukora siporo kandi hirya ye ikirere gihari bigaragara ko ari ubururu.

Uwo musore waroreye mu mirimo ngororamubiri agize ikibazo ari kwihutira kugera kwa muganga turabona umuganga wambaye ipantaro y’umukara, ishati y’ubururu ibikoresho byo kwa muganga yiteguye kumufasha.

ibikoresho byo kwa muganga bashobora gufashisha abantu mu buryo bugiye butandukanye, hari ibiri mw'ibara ry'umutuku, iry'umukara n'iry'ubururu. Hari akaboko k'umuntu, bamufashije bakoresheje akari mw'ibara ry'umutuku.

Umugabo munini uri muri siporo, ayambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya shokora, arimo guterura icyuma gifite amapine abiri impande zose, icyo cyuma kikaba gikoreshwa muri siporo, akikijwe n'ibintu byinshi.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara, afite umupira bakina wa nomero enye, bigaragara ko yiteguye kujya gukina kuko ubona ko yahagurutse kandi agiye.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara, ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara n'imisatsi miremire, arimo gukora siporo, arimo gukora ingororangingo, hirya ye hari agacupa karimo amazi arimo kwifashisha mu gihe ananiwe.

Ibikoresho bitandukanye birimo igitanda, imashini, ibikoresho bikoreshwa mu gufasha abarwayi, abaganga babikoresha bareba ikibazo umuntu urwaye yaba afite kugira ngo bamufashe.

Ku mugabo wambaye mu isengeri y'icyatsi kibisi, n'agakomo ka move ku maboko, arimo kwisukaho amazi, ahereye mu mutwe, inyuma ye hari urukuta, runini, rugaragara ko rusa n'umukara.

Umuntu wavunitse mu ivi bamushyizeho akantu kari mu ibara ry'umweru n'umutuku, muganga arimo kureba uko yamufasha kubera iyo mvune yagize yo mu ivi. Uwo muntu bigaragara ko yakuyemo umwenda ku maguru yombi kugira ngo babone uko bamufashe.

Ibintu bitandukanye byiganjemo imbuto, byagiye bitegurwa ku buryo butandukanye, bigatuma ushaka ibyo akeneye bitamugora, buri ruhande ruriho ibigiye biri ubwoko bumwe, urundi ruriho ibindi by'ubwoko bumwe.

Insimburangingo zitandukanye zigaragaza iyo umuntu yakoresha bitewe n'ikibazo yagize, hari igaragara ko igarukira mu mavi indi ikaba iri hejuru yayo, izo zose zishobora kwifashishwa igihe umuntu yagize ikibazo.

Inkoni ebyiri zifite ibara ry'umukara, aho bafata hejuru hakaba hari agashokora, zifite n'akagozi ahagana hepfo, ni inkoni umuntu ashobora kwifashisha no mu gihe yaba yagize n'akabazo k'imvune ikamufasha.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru n'inkweto ya supuresi y'umweru, arimo gukora siporo, yazamuye akaguru, inyuma ye hari urukuta kandi urabona ko akandi kaguru gahagaze hasi arimo gukora siporo.

Umusore wavunitse ku kaboko, yambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'ubururu, akandi kaboko yagakoresheje akanda ahavunitse, kugira ngo arebe ko yakoroherwa.

Abantu bagera kuri bane bari mu mirimo ngororamubiri, bigaragara ko badafite ingingo zose nk'izo ku kaguru ariko nabo hari uburyo bwiza bakoramo siporo kandi ikabafasha.

Umuntu urimo gukora siporo wambaye ipantaro y'umukara n'isengere y'umukara, akaguru kamwe kararambuye akandi karahinnnye, arimo gukora siporo agira ngo amaboko afasha ako kaguru gahinnye kugira ngo akore siporo bikwiriye.

Umwana w'umuhungu washyizeze kuteri mu matwi wambaye umupira w'umweru, arimo kunywa amazi mu gacupa, bigaragara ko ashobora kuba arimo gukora imikino ngororangingo.

Umumama ugeze mu zabukuru, arimo kwitabwaho na muganga, umuganga umwitaho yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, umumama ugaragara ko ari umunyamahanga yambaye umupira w'umweru, amufatatishaho akantu k'umuhondo.

Umuntu urimo gukora siporo, yicaye ku gitanda bakoreraho siporo arambuye amaboko yombi, afite imisego iri kuri icyo gitanda ahagana haruguru, inyuma ye hariyo urukuta rwiza cyane.

Umuntu w'igitsina gore uba uri gukora imirimo ngororamubiri, imbere ye hari imashini arimo kureberamo, iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye yifashisha mu kugorora umubiri we kandi biri bumugirire akamaro.

Umubyeyi n'umwana n'undi muntu uri ahagana haruguru, bicaye ahantu barimo kwitegereza imbere yabo, urabona ko bashishikajwe n'ikintu cyose bashaka kureba, barimo kureba. Niyo impamvu babaye nk'abrekezayo amaso.

Umugabo wavunitse ku ivi, afasheho n'amaboko yombi, kubera ububabare yumva burimo, bigaragara ko arimo guhakanda, kugira ngo yumve ko wenda yababasha koroherwa.

Umuntu wambaye imyenda y'imikara wisutse inyweri z'umukara, wambaye agapfukamunwa k'umukara, kariho akabara k'umutuku, arimo gufasha umuntu ugaragara ko yagize ikibazo ku kaboko, yamukandishije ibitambaro by'umweru.

Umuntu w'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ibaji y'umweru, arimo kugorora akaguru k'umuntu uryamye wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umweru kugirango amufashe gukomeza kumererwa neza.

Abantu babiri bari ahantu hari ibikoresho bishobora gutuma umuntu akora imyitozo ngororangingo kandi uyu wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umutuku n'inkweto z'umukara, na we arimo gukora siporo kandi bigaragara ko zigirira abantu benshi akamaro.

Amagambo y'umweru ari mu ibara ry'ubururu hejuru yaho handitseho andi magambo yose aragaragaza ibikorerwa aha hantu, ugiye ahagana bashobora kumufasha ku burwayi yaba afite.

Abantu bari imbere bateruye, ba croix rouge bateruye umukinnyi ugaragara ko avunitse, akaguru kakaba kababaye, barimo kumufasha kuva mu kibuga kugira ngo abone uburyo bwo kwitabwaho.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo gukina, umwe aravunitse mugenzi we arimo kumwitaho, umupira uri mu ibara ry'umukara n'umweru ubari iruhande bombi bambaye imipira y'ubururu.

Ibyo kurya bigiye bitandukanye bishobora gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza, hagaragayemo amagi, imbuto, inyama, imboga, ibyo byose bigaragara ko umuntu abikoresheje neza yagira ubuzima bwiza.

Umuntu wavunitse, arimo arakanda akaguru, yazamuye ipantaro y'ikoboyi kugira ngo arebe ko yakanda akaguru kavunitse, akaboko kamwe gafashe haruguru, akandi gafashe hepfo, arimo gukanda imvune iri hafi y'ikirenge.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu w'imibiri yombi wambaye isaha y'umukara, afashe icupa arimo kunywesha amazi, ari ahantu hari mu ibara ry'umweru arimo kunywa amazi.

Amacupa atatu ari mu ibara ry'umweru, apfundikije imifuniko y'umweru, ariho ibyapa bigaragara neza, bigaragaza ikiri muri aya macupa n'uburyo uwashaka kugira icyo akoresha ibirimo bitamubera urujijo.

Ibintu byinshi biri mu mabara atandukanye, harimo amacupa, harimo amavuta, akoreshwa ku mubiri ukamererwa neza, hari n'udukarito dufungiyemo andi mavuta cyangwa ibindi bintu byafasha umuntu, kumererwa neza.

Umukobwa w'imisatsi miremire y'imikara bambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ipantaro y'icyatsi kibisi n'agapira k'icyatsi kibisi, arimo arakora siporo atambaye inkweto kugira ngo agorore umubiri.

Abagabo babiri umwe bigaragara yuko yagize ikibazo cy'imvune y'akaguru undi mugenzi we arimo kumuha ubufasha bw'ibanze bwo kumufasha kugira ngo arebe ko yakomeza kugenda.

Abantu babiri, umwe yarwaye, undi arimo kumufasha, yicaye ku gatanda kwa muganga, akaguru kamwe kagize ikibazo, arimo kumufasha kureba ko hari icyo yabasha koroherwa.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, uri mu mikino igorora umubiri, arimo kunywa amazi, afite ekuteri mu mutwe, yambaye agasengeri karimo ubururu, yambiye akantu k'umukara ku kaboko.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu, arimo arafasha umurwayi wambaye imyenda, umupira w'umweru, hepfo yambaye amabara, kugira ngo arebe ko yamufasha, kwitoza kugenda, mu kantu gafasha abantu bavunitse, kongera kubasha kugenda.

Umukobwa uri muri siporo, wambaye inkweto z'amasupuresi, ikabutura y'ubururu, n'agasengeri k'icyatsi kibisi, afite imisatsi myinshi, arimo arakorera siporo ahantu hari itapi y'icyatsi kibisi.

Abantu biganjemo ambaye amataburiya y'umweru n'undi wambaye ikositimu y'umukara, uw'inyuma yambaye agapfukamunwa k'ubururu, bari ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye bashobora gukoresha bafasha ababagana, kugira babone uburwayi bafite babavure.

Umumama wambaye imyenda ya move, uri muri siporo, amaboko yombi afashe ku kaguru kamwe, arimo kugorora ibice bye by'umubiri kugira ngo amererwe neza.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, wicaye hagati mu busitani bugizwe n'amabara y'icyatsi, arimo gukora siporo, amaboko yose afashe ku birenge, kugirango ananure imitsi yose y'umubiri.

Umuntu w'inzobere wicaye ku gatapi k'ubururu arimo gukora ngororamubiri amaboko yombi yayafatishije ku birenge bye byombi aragira ngo umubiri we unanuke gukora ikintu cy'ingenzi mu buzima.

Imbuto nziza zitandukanye ziri migeri, zirimo amaronji, harimo imbuto nyinshi kandi zose n'imbuto z'ikinyarwanda, bashobora kuzikoramo n'umutobe wazo ariyo mpamvu hari ikirahure kirimo imbutobe w'izo mbuto, kandi zose zishaka kugirira umubiri akamaro.

Umuntu w'inzobe wavunitse mu ivi, muganga wambaye umwenda umupira w'umukara arimo kumufasha, aho yagize ikibazo mu ivi, kugira ngo barebe ko yakoroherwa, arakoresha igitambaro cy'umweru, ndetse n'icy'ubururu.

Umugabo uri kwa muganga ku gatanda k'abarwayi yambaye ipantara y'ikoboyi, yahinnye akaguru kamwe yakazamuye, muganga arimo kumufasha akoresheje agatambaro gakoze mu ibara ry'ubururu, kuko bigaragara ko ashobora kuba yavunitse.

Icyumba cyiza gifite amarido y'ubururu hari umugabo urimo uryamye, undi mugabo wambaye ga z'umweru n'agapfukamunwa arimo kumufasha kugorora ingingo z'umubiri.

Imashini ikoreshwa kwa muganga igihe bapima ibizamini by'abantu kugira ngo bamenye uburwayi umuntu afite babashe kumufasha kandi arusheho gukomeza kumererwa neza.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara imanutsemo akabara k'umweru arakorera siporo mu kibuga kirimo ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu urimo kumukurikira.

Umuntu ukiri muto wambaye ipantaro y'ubururu n'agasengeri k'umweru, yashyize amaboko yose icyarimwe hejuru arimo gukora siporo, akaguru kamwe yakarebesheje inyuma akandi imbere kandi siporo igirira akamaro umubiri.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye imyenda y'umukara, ipantaro y'umukara, n'isengera y'umukara, aricaye bigaragara ko aruhuka, yari ari muri siporo, afite agacupa k'amazi, ateruje akaboko kamwe aranywa amazi mugihe arimo kuruhuka.

Amasanduku atukura abiri n'icupa riteretse hagati yayo, hari abagabo bahagaze inyuma yayo n'abandi badamu batagaragara neza. Biteretse muri jardin mu busitani bukozwe n'indabyo z'icyatsi, kandi harimo icyapa kigaragaza ibintu birimo muri ayo masanduku.

Umukobwa urimo gukora siporo, yambaye agasenge k'icyatsi kibisi, ari mu ibara ry'ubururu, afite imisatsi myinshi, nta nkweto yambaye, akaboko yagafatishije mu kirenge kugira ngo ananure imitsi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara wifashe ku kaguru, akaboko kegeranye n'akaguru kariho isaha nayo y'umukara, intoki ndende ziriho inzara z'umweru, yicaye ahantu, ari wenyine.

Umuntu uri muri siporo, hirya ye hicaye undi nawe uri gukora siporo, hirya hariyo ameza, hejuru yayo hateretse akantu k'ubururu, hagati yateretsemo akandi k'umweru, bicaye hamwe bari ahantu mu ibara ryijimye.

Ikirahure cyiza, ari icupa na ryo ririmo amazi meza, amazi arimo gusukwa mu kirahure, amazi meza mu kirahure gakoreshwa neza, agirira ubuzima bwacu aka.

Akaboko k'umuntu bigaragara ko yavunitse, arimo arakandishaho akantu kari mu ibara ry'ubururu, arakoresha ikiganza cye cyose kugira ngo akande ahavunitse mu nkokora, mu kaboko kandi, akoresheje akandi.

Abantu benshi bari mu mikino ngororamubiri, hari umusore uri imbere yabo abandi bari inyuma ye bose barishimye, inyuma yabo hari umugabo bose arimo kubashimira ibyo barimo gukora.

Umuntu ufite agacupa mu ntoki, arimo kunywesha amazi, yambaye agafurari k'umweru mu ijosi, nta musatsi afite, afite agapira karimo ibara ry'icyatsi n'iry'ubururu, ari ahantu ari wenyine.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, ifite utubara tw'umutuku ku ruhande arimo arakora siporo, akaboko kamwe kari mu bitugu akandi gafashe ku nkokora, arabyibushye, ari ahantu heza mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo w'imibiri yombi ubyibushye, afite agacupa k'amazi, arimo kunywa yambaye ekuteri z'umweru, yambaye agapira k'umweru kerurutse, inyuma ye hari urukuta rw'icyatsi kibisi, ari muri siporo.

Ikiganza cy'umuntu ufashe umuti uri mu icupa, wanditseho uko ukoreshwa, hirya hari ibindi bikoresho byo kwa muganga, bifasha abantu kuvurwa mu buryo bwa kinyarwanda.

Urubuto rw'umuhondo ruri mu gakombe keza k'umweru, gateretse ku gasahane kako n'urundi rubuto rudakase ruri hirya, byose biteretse ku meza ya shokora kandi bigaragara ko bishobora gufasha umubiri kumererwa neza.

Amacupa menshi y'amabara atandukanye arimo iry'icyatsi kibisi ririho icyapa cy'umuhondo ripfundikije umufuniko w'umweru iriho n'irindi ripfundikije umupfundikizo w'umukara, ayo macupa yose arimo ibyapa bigaragaza imiti irimo uko ikoreshwa, kandi iyo miti ishobora gukoreshwa no mu ndwara z'akinyarwanda.

Urugo rwubakishijwe imiseke, harimo ururabo rw'icyatsi kibisi rwiza ruri aho ngaho mu mbuga, hashinzemo igiti, bigaragara y'uko aho hantu hubatse mu buryo bwiza.

Amacupa menshi n'udukarito birimo imiti itandukanye igaragara ko iva mu bimera, hariho amagambo agaragaza uko iyo miti igomba gukoreshwa kugira ngo abayikoresha bitabagiraho ingaruka mbi.

Ururabo rwiza ruri mu ibara ry'icyatsi, harimo akabara kagaragaza ko rutangiye kwera, rukagira utubara tw'umuhondo, utwo tw'umuhondo hejuru yatwo hari utundi twiza, urwo rurabo rwose rurashishikaje.

Ibimera bitandukanye, byiganjemo iby'icyatsi kibisi, hirya hari akandi gateretse mu ivaze nziza y'umweru, ibyo byose bishobora gushimisha abantu ariko bikanakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera byinshi biri mu mabara atandukanye, biragaragara ko bishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ziganjemo indwara z'ikinyarwanda, byose uko biri muri ayo mabara bishobora kugirira umuntu akamaro.

Imbuto zitandukanye ibimera by'amababi meza bishobora gukoreshwa n'ibitoki abantu bashaka kurya kandi bishobora kuvamo n'imiti ishobora gufasha abantu mu burwayi baba bafite harimo n'ubw'ikinyarwanda.

Ijaride nziza irimo ururabo rwakuze rushishikaje, rwarabije uturabo tw'umweru n'akandi k'umuhondo, gafite ibibabi byiza, ubona aho ruteye, ibi bituma haba ahantu heza cyane.

Ubuhinzi bugezweho bukoreshwa muri iki gihe, bahinga bakoresheje ibikopo, bamanitsemo icyapa kigaragaza imbuto ziri muri ubwo busitani bwaho, kandi hari abantu bambaye imyenda y'imikara barimo gukurikirana ibijyanye n'ubwo buhinzi.

Igitunguru cy'umutuku, gikasemo kabiri, indimu y'icyatsi kibisi, ikasemo kabiri, icupa ry'amavuta, byose biri hamwe, bishobora gukoreshwa abantu bategura amafunguro afite akamaro.

Ibimera bitandukanye byiganjemo iby'icyatsi, hari ibyamaze gusarurwa biri mu tubakure twabyo, ibindi byo biracyari ku biti byabyo, ibyo byose bishobora gukoreshwa kandi bishobora no kuvamo imiti ishobora kuvura n'indwara z'ikinyarwanda.

Ibimera byiza bitandukanye byiganjemo ibiri mu ibara ry'icyatsi, harimo n'ibiri mu ibira ry'umuhondo bigiye bikurikirana neza kandi handitseho amagambo agaragaza uko buri kimwe cyose gishobora gukoreshwa, byifashishwa mu kwivuza.

Amacupa ari mu mabara atandukanye, hari iry'umuhondo n'iry'umweru n'irindi ripfundikije agafuniko ka shokora, hepfo y'ariya matibe nayo ari mu mabara atandukanye, hari igikakarubamba rwagati hateretsemo igikakarubamba, bigaragara ko ari byo bishobora ko byakozwemo.

Ikarito zirimo ibintu bigiye bitandukanye, zanditseho uko bikoreshwa, hirya hari imineke, iseri ry'imineke, hagati harimo inanasi, kandi ibyo byose bigirira umubiri akamaro.

Amagambo yo mu ibara mu nyuguti z'umweru aragaragara ku kimera gifite ibara ry'icyatsi kibisi, agaragaza akamaro cyamarira umubiri w'umuntu aramutse agikoresheje.

Ibyo kurya biri mu ubwoko bugiye butandukanye biri mu mabara agiye atandukanye, harimo umutuku, harimo umuhondo, harimo umukara, ayo mabara yose ashobora ibyo bintu byose biri aho bishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umugabo uhagaze hagati y'imiti y'ubuvuzi bwa gakondo aragaragaza uko ikoreshwa kugira ngo ifashe abantu, igiye iri mu ducupa tugiye dutandukanye dufite amabara atandukanye, hirya ye hariyo undi muntu.

Ikimera cyiza, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, kiri ahantu heza, kandi gishobora gukoreshwa no mu buvuzi, harimo n'uburwayi bw'indwara z'ikinyarwanda.

Ibyatsi, ibiti bibisi bisa nk'icyatsi kibisi cyiza cyane, bikoreshwa mu kuvura indwara z'ikinyarwanda, ni ahantu, kandi ubona ko bisa neza cyane.

Igiti cy'amabara meza, gikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, bigaragara ko cyifashishwa ahantu henshi kandi kigaragara ko gishobora kugirira abantu benshi akamaro.

Icupa ririmo umuti riri mu ibara ry'umweru, hejuru hakaba hajya gusa umutuku, ryanditseho uko iyo miti iri mu iryo ikoreshwa kandi hakabamo n'imiti ibyo bayikozemo ku buryo uwayikoresha atagira urujijo.

Igiti gikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, giteye ahantu heza, kiri mu ibara ry'icyatsi, kiri ahantu haterwa ibiti bigiye bitandukanye, kandi bigaragara ko gisa neza.

Amacupa menshi harimo abiri y'umuhondo apfundikije utufundiko twa shokora, n'irindi ry'umweru ripfundikije move n'andi y'umweru. Yose yanditseho ibyapa bigaragaza imiti iri muri ayo macupa, n'uburyo umuntu yayakoresha niyo yaba arwaye indwara z'ikinyarwanda bikamugirira akamaro.

Icupa ripfundikije umupfundikizo w'umweru, riri mu ibara ry'umutuku, ririmo umuti, amagambo yanditse hejuru y'iryo cupa agaragaza uwo muti uko ukoreshwa n'indwara uvura.

Ibiti byiza by'icyatsi kibisi byo mu bwoko bw'ibiti bishobora kuvura mu buryo bwa kinyarwanda, biri ahantu heza, biratoshye kandi ababikoresha bibagirira akamaro kuko bishobora gukoreshwa bivura abantu.

Agacupa karimo umuti hariho amabara y'umuhondo, muri ako gacupa handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ayo magambo icya afasha ni ukumenya uko umuntu yakoresha uwo muti uri muri iryo cupa.

Amacupa abiri rimwe ririmo ibara ry'umuhondo hakabaho n’ikimera cy'icyatsi kibisi irindi ririmo ibara ry'umweru rimwe rifundikishije umufuniko w'umutuku irindi rifundikishije umufuniko wa shokora yose ariho icyapa kigaragaza imiti irimo n'indwara ivura harimo niza kinyarwanda.

Ibinyampeke byinshi bigiye bitandukanye buri kimwe cyose kiri ukwacyo byashyizwe ahantu hagiye hatandukanye, hari agasekuru bigaragara ko uwakenera kugira icyo atunganya yakoresha ako gasekuru kakamufasha.

Ikiganza gifashe korogate, ikindi kiganza hirya gifashe uburoso, biragaragara ko arimo kumushyiriraho korogate kugira ngo yiborose, kandi bigaragara ko uwo muntu yiteguye kwiborosa, kandi kwiborosa bigira akamaro cyane.

Ururabo rwiza rw'icyatsi kibisi, rufite amababi meza, urazamuka neza, biragaragara ko ruteye ahantu heza kuko urabona ko rwakuze neza, kurureba rwose ni ibintu bishimishije, rufite jaride nziza.

Ibimera biri mu ibara ryiganjemo iry'icyatsi n'andi mabara atandukanye, bishobora gukoreshwa mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye harimo n'abashobora kuba barwaye indwara z'ikinyarwanda.

Igiti kiza gifite ibara ry'icyatsi kibis,i kiri ahantu heza, hari andi mabara ajya gutukura, gishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni za ndwara za Kinyarwanda.

Ururabo rwiza rugizwe n'amabara y'icyatsi kibisi n'andi ya move, rurambitse ahantu heza, hari mu ibara ry'umutuku, uturabo duhingukamo tundi turasa nk'umuhondo iyo tumaze kwera.

Igiti cyiza cy'ibara ry'icyatsi kibisi kiri ahantu hagaragara ko ari nk'umukara gifite amababi meza. Agashami ka cyo ko hejuru karasa nkaho kakogotseho amababi, ariko andi mababi areba hepfo urabona ko ari.

Amacupa menshi yiganje mu ibara ry'umweru, buri cupa ripfundikije umupfundikizo w'umweru, kandi buri cupa ririho amagambo agaragaza imiti iri muri ayo macupa kandi iyo miti ishabora no kuvura mu buryo bwa kinyarwanda.

Ubwoko butandukanye bw'ibimera, buri mu mabara agiye atandukanye, bwiganjemo umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi, byose bikoreshwa mu kuvura cyane cyane mu ndwara z'ikinyarwanda.

Amacupa menshi arimo imiti iri mu mabara agiye atandukanye afasha abantu kuvurwa mu buryo bwa gakondo bakoresheje iyo miti y'Ikinyarwanda, ayo macupa aba arimo buri bwoko bw'umuti.

Amacupa atandukanye menshi yiganjemo afite ibara ry'icyatsi, yose apfundikije imipfundikizo y'imyeru, hirya yayo hari umuntu uhahagaze, ari mu macupa ariho ibyapa byerekana ibintu biri muri aya macupa uko byakoreshwa, ni imiti ishobora gufasha abarwayi.

Udukarito dutatu turimo amabara y'umuhondo n'umutuku, turimo imiti, iyo miti ifasha abantu ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, bakabasha koroherwa.

Ibiti byinshi biri mu ibara ry'icyatsi, harimo n'utubara tw'umuhondo, ni ibiti byiza bishimishije bishobora gukoreshwa umuntu avura indwara zitandukanye, harimo n'ubuvuzi bwa kinyarwanda.

Ibiti byiza biririmo mu ibara ry'icyatsi kibisi gisa neza cyane biba biriho n'imbuto ibyo biti bishobora gushimisha abantu ariko bishobora no gukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo n'uburwayi bw'ikinyarwanda.

Ururabo rwiza rushishikaje, hakaba hagati rwarakuze, hari izindi ku mpande, na zo ubona ko zirimo gukura, bigaragara ko ahantu ziri rwose ari ahantu zituma haba heza cyane, kuhareba bikaba bishimishije.

Imbuto nziza, ziri mu ibara ry'umuhondo, harimo n'iziri mu ibara ry'icyatsi, zose harimo izisatuye n'izidasatuye, zose zishobora gukoreshwa kandi zishobora kugirira umubiri akamaro.

Amavaze menshi y'umukara, atewemo ibiti byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ibi biti byarakuze, ni ibiti by'icyatsi kibisi, bimaze kuba ahantu henshi kandi bigaragara ko ari byiza.

Amacupa menshi atandukanye, arimo imiti yo mu bwoko bw'Ikinyarwanda ava mu bimera, umugabo n'umugore bari iruhande rw'iyo miti, barafasha abantu kumenya uko ikoreshwa kugira ngo bibagirire akamaro.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gabo, abantu benshi bambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'icyatsi kibisi, hari undi wambaye ipantaro ya shokora n'ishati y'umuhondo, hirya hari undi uhagaze mu bimera byiza cyane wambaye kositimu y'umukara, bose urabona bahuriye ku kintu kimwe.

Ahantu heza, hari indabo z'icyatsi kibisi cyiza, harimo kugenda heramo, izo ndabo zera utuntu tw'umuhondo twiza, kandi izo ndabo urabona ko zifatanye rwose, ku buryo ubona ko ahantu ziri zihita zihatwikira.

Amacupa menshi arimo, yiganjemo ay'umweru, arimo imiti ishobora gukoreshwa mu kuvura, harimo n'ishobora kuvura indwara z'ikinyarwanda, ariko yose ariho utwapa tugaragaza uko yakoreshwa kugira ngo uyikoresheje atagira urujijo.

Icupa rinini riri mu ibara ry'icyatsi ryandikishijeho amagambo mu nyuguti z'umweru, agaragaza umuti urimo uko wafasha abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye, hirya hari irindi icupa na ryo riri mu kabara k'iroze ripfundikije umufuniko w'umweru, hose hariho icyapa kigaragaza ko iyo miti yafasha abantu.

Ibiti by'icyatsi kibisi byiza cyane, bishobora kwifashishwa havurwa indwara za kinyarwanda, hirya yabyo hari amabara meza y'icyatsi, bigaragara ko ahantu biri ari byiza.

Amavase meza ateretse ahantu, imwe ikoze mu ibara ry'umweru, ururabo rurimo ni icyatsi kibisi, indi ikoze mu ibara ririmo umutuku, ururabo rurimo ni icyatsi kibisi, indi vaze iteretse hagati iri mu tuntu tubiri twiza, turi mu mukara.

Ibimera bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, bishobora gufasha umubiri w'umuntu, n'amagambo agiye yanyanditseho uko buri kimwe cyose gishobora kugirira umuntu ugikoresheje akamaro.

Umuti ukozwe mu bimera wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, uri mu gacupa kameze nk'akarimo korogate ariko handitseho amagambo yerekana uko ugomba gukoreshwa.

Indabo nziza ziganjemo iz'icyatsi kibisi, zifite izamaze kwera zifiteho umuhondo n'umutuku, ziri ahantu heza, ubona ko hatoshye, kandi urabona ko ari indabo zishimishije.

Ibara ryiza ry'icyatsi kibisi, hari ibiti byiza bigizwe n'icyatsi kibisi, harimo umudamu uhinguka muri ibyo biti w'igikara, uteze igitambaro cy'umweru, urungurukira muri izo ndabo.

Tangawize ikasemo uduto duto n'indi igize neza ariko idakase ziri hamwe, zishobora gugufasha umuntu mu buzima busanzwe, ariko zishobora no gufasha kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa arimo imiti itandukanye, aragaragara ko hashobora kuba harimo amatibe, hari irindi cupa ririmo ibara ry'umuhondo, ripfundikije shokora, ayo macupa yose yanditseho, kugira ngo imiti irimo, uyifashe amenye uko ayikoresha.

Uducupa twinshi twiganjemo utw'umweru, tugiye dupfundikije imifuniko y'imyeru hari n'udupfundikishije iy'imituku, hari n'icupa ry'umuhondo ku ruhande, ayo macupa yose arimo imiti kandi ariho ibyapa bigaragaza uko iyo miti ikoreshwa kugira ngo uyifashe imugwe neza.

Amavaze meza ari mu mabara atandukanye, harimo umukara, umutuku n'umuhondo, arimo ibiti by'umwimerere by'icyatsi kibisi kandi ibyo biti bishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Ibiti by'icyatsi kibisi bikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, bigaragara ko bimeze neza, bira ahantu heza kandi biragaragara ko bitoshye.

Amacupa ane arimo imiti. Iyo miti buri cupa bagiye bashyiraho icyapa. Icyo cyapa kikaba ari icy'umweru cyanditseho amagambo agaragaza uwo muti urimo uburyo ukoreshwa kugira abakoresha batagira urujijo.

Amacupa menshi arimo imiti itandukanye, bakoresha bavu indwara zitandukanye, umumama uri hafi aho wambaye agakote ka shokora, n'agatambaro k'umweru mu mutwe, hari n'umupapa hakurya ye, barafasha abantu kumenya uko iyo miti ikoreshwa.

Ibimera byiza byo mu mabara atandukanye, yiganjemo icyatsi, hagati harimo irimo umweru, byose bishobora kwifashishwa mu kuvura ndetse no kuvura indwara z'ikinyarwanda.

Amakarito menshi ari mu mabara atandukanye buri karito iriho icyapa, amagambo agaragaza ibirimo, n'uko byakoreshwa kugira ngo bifashe abantu kandi bishobora no kuvura indwara harimo n'iz'ikinyarwanda.

Isahane iteretseho icupa ririho icyapa kigaragaza ko ibirimo uko byakoreshwa impande yiryo cupa harimo imbuto zigizwe n'ilongi arerekana rero ko ishobora gufasha umuntu ndetse n'iyo yaba arwaye.

Amacupa manini arimo imiti bigaragara ko imwe ari umukara, kuri ayo macupa hariho ibyapa byerekana uko iyo miti ikoreshwa kugira ngo umuntu najya kuyikoresha ataza kugira ikibazo.

Amavaze menshi ateyemo ibiti bya gakondo, bigaragara ko bisa neza, bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ziba zaratewe n'ibintu bya kinyarwanda kandi birafasha.

Urubuto rwiza rw'ipapayi rweze neza, rugaragara ko rwamaze kugira amabara imbere atandukanye, haba harimo imbuto z'umukara, izindi ubwarwo ruba rutukura imbere, kandi nyuma y'icyatsi kibisi, kandi rugirira umubiri akamaro.

Icupa ripfundikije umupfundikozo w'umweru, ririho icyapa cy'ubururu n'umweru, ryandikishijeho inyuguti z'ubururu n'umweru, amagambo yanditseho aragaragaza uwo muti uri muri iryo cupa, uburyo ushobora gufasha umurwayi.

Ubusitani bwiza burimo ibiti by'icyatsi kibisi, harimo ibiti binini bikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ziganjemo indwara za kinyarwanda kandi bigaragara ko bisa neza.

Ibiti byiza byo mu ibara ry'icyatsi kibisi, biri ahantu hashimishije, ibi bifasha abantu kubona imiti ishobora gukoreshwa mu buvuzi kandi bishobora no kuvura abantu barwaye indwara zo mu kinyarwanda.

Imbuto nyinshi zitandukanye zishobora gukoreshwa abantu bakabonamo ibibatunga, hagati muri zo harimo agasekuru k'umweru karimo n'umuhini, kagaragaza ko ushobora kukifashisha ushaka gutunganya kimwe muri byo, kugira ngo ugikoreshe mu igaburo rya buri munsi.

Umugabo wicaye atuje imbere ye hari amacupa apfundikije imifuniko y'umutuku, bigaragara ko harimo imiti arimo gutekereza uko yayikoresha avura abantu.

Icupa rigaragara ko rishobora kuba ririmo umuti iri rimwe ibara ry'umukara, rifite ibisobanuro by'uwo muti byanditseho akabara k'umuhondo irimo umuti.

Ikimera cyiza kiri mu ibara ry'icyatsi ari akaboko k'umuntu mugaragara ko ari umunyamahanga bifasheho icyo kimera gishobora gukoreshwa kigakorwamo imiti ikavura indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Umuti wo mu bimera uri mu gacupa, mu kantu kameze nk'aka korogate, wanditseho amagambo agaragaza uburyo ushobora gukoreshwa, yanditswe mu rurimi rw'icyongereza, bigaragara ko umuntu wakoresha uwo muti bitamugora kuko bamusobanuriye.

Amacupa menshi, ari mu mabara atandukanye, ariho ibyapa byanditseho imiti iri muri aya macupa, n'ukuntu ikoreshwa, kugira ngo buri wese wifashisha uwo muti, amenye uko ayikoresha bitamugoye.

Umuntu w'ibara ry'abanyamahanga, akaboko kamwe gafashe agapaki k'imiti kanditseho akandi gafashe imiti iriho ibinini bitatu, arerekana uko iyo miti ikoreshwa kugira ngo uwo bayihaye atagira urujijo.

Amacupa menshi yiganjemo apfundikije imipfundikizo y'umuhondo, arimo ibintu by'icyatsi bigaragara ko ari imiti iva mu bimera kandi iyo miti ishobora kwifashishwa mu kuvura indwara ndetse n'iza kinyarwanda.

Ubwoko bwinshi bw'ibimera bigiye bitandukanye, buri kimera cyose kirasa neza kandi gishobora gukoreshwa mu buryo bwo kuvura harimo no kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Abantu benshi bari mu murima w'ubuhinzi, biragaragara ko hari ibihingwa biteye ku murongo byiza, imashini zikoreshwa muri ubwo buhinzi, bigaragaza ko barimo kwerekana inyungu z'ubuhinzi bwa kijyambere.

Ibiti byiza byinshi by'icyatsi kibisi, harimo utw'umweru dukeya, ni ibiti bisa neza kandi ibibabi byabyo bishobora gukoreshwa mu buvuzi nk'indwara zitandukanye harimo n'iz'ikinyarwanda.

Icupa ry'umweru ryanditseho, bigaragara ko ririmo umuti, amagambo yanditseho aragaragaza uko uwo umuti wakoreshwa, kandi no hirya hari andi magambo agaragaza uburyo bwakoreshwa mu miti ifasha abantu.

Amacupa menshi afite amabara atandukanye ari mu ibara ry'umukara, ririho icyapa cy'icyatsi kibisi, irindi ririmo ibintu by'umutuku bipfundiki agafuniko k'umweru n'andi apfundikije umutuku ariko ari ubururu, ayo macupa yose arimo imiti kandi hariho ibyapa bigaragaza uko ishobora gukoreshwa kugirango ifashe abahinywa.

Ibimera bitandukanye birimo n'amatangawize n'ibindi by'icyatsi kibisi, hagaragara isahane n'ikiyiko birimo kwerekana uburyo iyo bitunganyijwe, bishobora kugirira umubiri akamaro bishobora no kuvamo imiti ivura abantu.

Ubwoko bw'ibiti bitandukanye, bikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, biri mu ibara ry'icyatsi, biteye ahantu heza, hagiye handitseho buri giti ubwoko bwacyo, uko bigenda bikurikirana.

Icupa ry'umuhondo ririmo imiti ikoreshwa mu bimera bya kinyarwanda, ibyo bimwe muri byo biriho ku ruhande, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi kandi haba handitseho uburyo iyo miti igenda ikoreshwa.

Ibiti byiza byinshi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi bikoreshwa mu buvuzi bwa Kinyarwanda harimo umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu uriho akantu k'umweru n' n'umudamu wambaye umupira w'imbeho witeze n'igitambaro cy'umweru mu mutwe bigaragara ko barimo kuganira.